Umwana ubona ko ari kwitabwaho kwa muganga kugira ngo avurwe, ni ibyiza ko ku twita ku bana kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

UNICEF n'ikigo gishinzwe kurengera amagara y'abana kikabafasha mu iterambere, aho kibaha ibikoresho bifashisha mu buzima bwa buri munsi bityo abana bakagira ubuzima bwiza.

Umuganga ubona ko ari gukora ubushakashatsi ku bigendanye n'indwara kugira ngo abashe kuvura umurwayi yabonye indwara arwaye, kugira ngo amuhe imiti yujuje ubuziranenge.

Umurwayi ubona ko arembye cyane, ashobora kuba arwaye indwara z'ibyorezo, harimo nka Covide cumi n'icyenda cyangwa Marburg, aho ari kwitabwaho n'abaganga kugira ngo ashakirwe umuti cyangwa urukingo kugira ngo akire.

Umwana ubona ko ari gukorera undi amazi avuye kuvoma kuri robine. Amazi ni meza mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko tuyakoresha tuyanywa, tuyamesesha, ndetse no guteka.

Ikigo gishinzwe gusukura amazi ndetse no kugeza amazi ku bantu bose batuye mu gace runaka, kugirango babashe kugira ubuzima bwiza.

Umwana ndetse n'umubyeyi ubona ko bagiye ku mujyanama w'ubuzima, ubona ko uno mwana arwaye, bari kugerageza kureba ibimenyetso yaba afite, aho umujyanama ari kumusuzuma.

Ikigo gishinzwe kwita ku bana, cyane cyane kibaha ubufasha bw'ibanze, haba imyenda ndetse n'ibiryo, cyane cyane abana batagira iwabo, aho bahabwa aho kuba, bakitabwaho. Hano urabona ko ari umuntu ari gufasha umwana. Amukorera amazi, bigaragara ko avuye kuvoma.

Ikigo mpuzamahanga kitwa, Aliyansi giharanira ubuzima ndetse n'imibereho myiza ya buri kiremwa muntu, aho gitanga imiti itandukanye, ikomoka ku bimera, kugira ngo yifashishwe mu kuvura indwara zitandukanye, harimo umubyibuho ukabije n'izindi ndwara.

Umuntu ubona ko arwaye Kovide cumi n'icyenda, ari gupimwa n'abaganga aho bari kumushyira igikoresho cyabugenewe, kugira babashe kureba nimba koko arwaye Kovide cumi n'icyenda.

Abaganga aho bari gusuzuma umurwayi ndetse hicaye n'abandi barwayi bategereje ko bakirwa basuzumwe, maze bahabwe imiti aho bari gupimwa umuriro ndetse n'ibiro kugira ngo harebwe ikibazo abarwayi bafite.

Amazi ni meza ku kiremwa muntu aho yifashishwa mu gukoreshwa mu buzima bwa buri munsi kuyatekesha kuyamesesha kuyanywa ndetse n'akandi kazi kugira ngo tubungabunga aya amazi ni byiza ko tubungabunga ahantu hose dukura amazi tubungabunga ibikoresho biba byifashishijwe kugira ngo amazi aboneke.

Abantu bari bateraniye ahantu hamwe, aho hari haje abaganga kugira ngo basuzume abaturage indwara zitandukanye, bahabwe n'ingamba n'uburyo bwo kwirinda izo ndwara kugira ngo izo ndwara zibashe gukumirwa aho hateraniye abasaza, abakecuru, abana batoya kugira ngo birinde izo ndwara.

Imodoka y'ikigo Mpuzamahanga gishinzwe gufasha abantu aho gitanga ibiryo ku bantu babikeneye ndetse abatishoboye n'abandi bantu bakeneye ubufasha, kikabaha ubufasha ubwo ari bwo bwose haba amacumbi, kububakira inzu, cyane cyane ibyo kurya aho ino modoka irimo ibiribwa bigiye gushyirwa abantu bafite ibibazo bitandukanye.

Abajyanama, ubona ko bari kwita ku bantu barwaye malariya babafata amaraso, kugira ngo babashe gusuzumwa malariya.

Ikigo gishinzwe gusukura amazi kikayageza kuri buri buce bwose bw'igihugu cy'u Rwanda, aho afasha abaturage kuyakoresha mu buzima bwa buri munsi: kuyatekesha, kuyameshesha ndetse no kuyanywa.

Ikigo gishinzwe kwita ku bana, kibaha inkunga mu gihe hari abana babayeho nabi cyangwa abandi bana bafite ibibazo bitandukanye, kikabafasha.

Umujyanama aho ari gusuzuma umukecuru indwara ya malariya, aho ari kumufata amaraso ku gatoki kugira ngo harebwe niba arwaye malariya maze ahabwe imiti ikwiriye kandi izamufasha kumuvura neza maze akagira ubuzima bwiza.

Abantu ubona bari bateraniye ahantu hamwe, harimo abaganga ndetse n'abandi bayobozi, n'abajyanama b'ubuzima kugira ngo bige ku ngamba ndetse n'amabwiriza bagomba gushyiraho kugira ngo twirinde indwara zitandukanye zigenda zaduka mu Rwanda ndetse no ku isi hose kugira ngo hashakirwe n'imiti yazo.

Umubyeyi na muganga ndetse n'umwana ubona ko arwaye, arimo arahabwa imiti kugira ngo abashe gukira. Twite ku bana bacu cyane cyane mu gihe bakiri batoya.

Abantu ubona ko ari abaganga, bari kwiga ku kibazo cy'indwara ndetse n'ingamba zafatwa kugira ngo hirindwe indwara zijya zibasira abantu, kugira ngo barusheho gushyigikira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, binyuze mu mibereho myiza y'abo.

Abantu ubona ko bicaye ahantu ubona ko bafite ibibazo bitandukanye, cyanecyane hari umuntu ubona ko afite igikomere ku mutwe, aho ubona n'abana bari kumwe bari gutekereza cyane nk'aho bafite ibibazo bitandukanye; ni ngombwa ko bitabwaho kugira ngo bahabwe ubufasha bagire ubuzima bwiza.

Ikigo mpuzamahanga gikora ku Isi hose, aho gitanga imiti iba yaturutse ku bimera, harimo imiti ivura kwikinisha, kurangiza vuba ndetse n'ubundi burwayi bwose bw'umubiri, kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza.

Abana aho bagiye kuvoma amazi. Amazi ni meza ku buzima bwacu bwa buri munsi, kuko tuyakoresha mu kuyanywa, mu kuyatekesha, haba kuyasukurisha ibikoresho bitandukanye. Ni byiza ko tubungabunga amazi tuyagirira isuku kuko bishobora kutuviramo kugira indwara zitandukanye.

Amazi ni kimwe mu bintu by'ingirakamaro ku buzima bw'abantu, kuko igice kinini mu mubiri ari amazi, aho yifashishwa mu mubiri nko kuyungurura amaraso, gutuma umubiri udafatwa n'indwara zitandukanye, harimo diyabete n'ubundi burwayi, ni byiza ko dufata amazi ahagije umubiri ukaba ufite amazi akwiriye.

Abana babiri ubona ko umwana umwe ari gufasha undi kugira ngo bavome amazi. Ni ingenzi cyane ko abana bafashanya cyane cyane iyo bagiye gukora imirimo ishobora kudakorwa n'umuntu umwe. Amazi ni meza ku buzima bw'umuntu bwa buri munsi.

Ahantu ubona ko habereye ibirori bisa nkaho, ari nko gukangurira abantu, kwirinda indwara zitandukanye ndetse hafatwa n'ingamba zo kuzirinda kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza.

Abana bakiri batoya ni byiza ko bahabwa amata ndetse n'igikoma kugira ngo cyunganire umubyeyi igihe ari kubaha amashereka kugira ngo abana bagire ubuzima bwiza maze bibarinde igwingira ndetse n'imikurire mibi.

Umusaza aho ari uko uterwarwashinge na muganga kugira ngo abashe gukira indwara arwaye. Aho ari guterwa urukingo bishoboka ko ari urukingo rwa kovide cumi n'icyenda kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza yirinda ubwandu bwayo.

Abana ubona ko bari ku ishuri, ubona ko bishimye cyane kandi baracyari abana batoya, ni byiza ko abana bacu tubajyana mu ishuri kugira ngo bahabwe ubumenyi bw'ibanze, bityo bazabone uko bateza igihugu cyabo imbere.

Abantu ubona ko bari gutanga inama ku bigendanye n'ubuzima bw'abantu, kugira ngo abantu babashe kugira ubuzima bwiza, ndetse hafatwa n'ingamba zo gukurikiza kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Abantu ubona ko bateraniye ahantu, ubona ko bafashe ingamba zo kugira ngo tugire ubuzima bwiza ndetse n'uburyo hakwirindwa indwara zitandukanye.

Abantu ubona ko baje gufata amafunguro atandukanye, ubona ko bafashwa kugira ngo bagire ubuzima bwiza, bahabwa ibyo kurya ndetse n'ibindi bintu byose bakeneye kugira ngo bibafashe mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abakorerabushake ba Yunisefu bashinzwe kurengera ubuzima bw'abana bakiri batoya ndetse no kubateza imbere. Aho babafasha mu bikorwa byabo bya buri munsi ndetse no kubaha ubufasha butandukanye.

Umubyeyi ari kwita ku mwana we ari kumukarabya intoki kugira ngo amusukure maze amurinde indwara zitandukanye umwana ashobora kwandura biturutse kuba intoki ze zidasukuye, ni byiza ko twita ku bana bacu tubasukura uko bikwiye kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abantu ubona ko bagiye kuvoma amazi. Ni byiza ko dukoresha amazi kuko ni ingenzi mu mubiri wacu. Tuyanywa, tuyatekesha, tuyamesesha, ariko tureba ko amazi yacu asukuye.

Abantu ubona ko baje kuvoma amazi kuko bayakoresha mu buzima bwa buri munsi, nko gukaraba, kumesa, kuyanywa ndetse no guteka. Amazi ni meza mu buzima bwa buri munsi.

Abajyanama b'ubuzima bari bari mu mahugurwa, ku bigendanye n'ubuzima bw'abantu, uburyo bavura abana malariya ndetse n'abantu bakuru, bahabwa amahugurwa ku bigendanye n'uburyo hakwiye gufatwa ingamba zarandura malariya burundu igacika.

Abana batoya ubona ko bari kwitabwaho bahabwa amata kugira ngo babashe gukura bafite ubuzima bwiza. Ni byiza ko abana bitabwaho mu gihe bakiri bato.

Kugira umuco wo gukaraba intoki ni ingenzi cyane ku bana, kuko baba bakoze imyanda itandukanye, ni ngombwa ko bakaraba intoki kenshi gashoboka, kugira ngo babashe kwirinda indwara zishobora kwandurira mu ntoki, bityo bagire ubuzima bwiza.

Umusaza ageze mu za bukuru ari kwitabwaho n'abaganga aho bari kumupima umuvuduko w'amaraso kugira ngo abashe guhabwa imiti imuvura maze agira ubuzima bwiza, ni byiza ko twita ku basaza cyane cyane abageze mu za bukuru kugira ngo bagire ubuzima buzira umuze.

Kuvoma amazi ni kimwe mu bintu by'ingenzi, kuko amazi akoreshwa mu buzima bwa buri munsi, aho n'abantu bakuru bitabujijwe ko bajya kuvoma amazi, kuko bayakenera haba kuyanywa, kuyatekesha ndetse no kuyamesesha.

Abantu bari mu mahugurwa ku birebana n'ubuzima, indwara zisigaye ziriho muri ino minsi kugira ngo hafatwe ingamba zo kuzirinda, harimo indwara nka malariya aho bashishikariza abantu gutema ibihuru ndetse no kujya baryama mu nzitiramibu ikoranye umuti.

Amazi ni meza ku mubiri w'umuntu ndetse no mu buzima bundi bwa buri munsi aho yifashishwa mu bintu bitandunye, haba kuyatekesha, kuyamesesha no kuyoga ndetse n'indi mirimo itandukanye aho usanga mu mubiri higanjemo amazi, niyo mpamvu umubiri ukenera amazi menshi cyane kugira ngo umuntu abashe kugira ubuzima bwiza, ni byiza ko tubungabunga amazi tuyagirira isuku.

Abantu ubona ko bateranye, bari mu bukangurambaga ku birebana n'ubuzima bw'umuntu bwa buri munsi. Ni byiza ko tugira ubuzima bwiza twubahiriza ingamba duhabwa.

Abantu ubona ko bateraniye ahantu hamwe, harimo abayobozi bari guhabwa, inama ku bijyanye n'uburyo ikiremwamuntu cyagira ubuzima bwiza, no kwirinda indwara zose, hafatwa ingamba zo kuzikumira.

Umwana ubona ko ari gukaraba intoki akoresheje amazi meza n'isabune kugira ngo yikureho imyanda yaba yagiye ku ntoki, ni byiza ko dukaraba intoki ndetse n'umuti wabugenewe cyangwa isabune kugira ngo twirinde indwara zitandukanye zishobora kwandurira mu kuba intoki zifite umwanda.

Abana ubona ko ari abanyeshuri ariko bari gukaraba kuri robine, ni byiza ko dukaraba intoki igihe cyose twakoze umwanda cyangwa tugiye gufata ifunguro.

Abana bari gukaraba intoki bakoresheje amazi kugira ngo basukure intoki zabo, ni byiza ko twita ku ntoki zacu kuko haba hagiyemo imyanda kandi hashobora gutuma twandura indwara zitandukanye, harimo indwara zo mu nda, inzoka n'ibindi.

Abana ubona ko bazanywe kugira ngo basuzumwe, ni byiza ko dusuzumisha abana kugira ngo harebwe imikurire yabo nimba bakura neza.

Abantu ubona ko ari abakorerabushake bashinzwe gukangurira abantu uburyo bwiza bwo kugira imibereho myiza, birinda indwara zitandukanye ndetse n'ingamba zo kwirinda izo ndwara zitandukanye.

Amazi iyo tuyavomye tuyakoresha mu bintu bitandukanye harimo kuyamesesha, kuyanywa, kuyatekesha, bityo bikadufasha kugira ubuzima bwiza, amazi aho usanga yaregerejwe abaturage bityo bikabafasha kuyabona byoroshye.

Inama yateranye, igamije kwiga uburyo bwo gusigasira ubuzima bw'ikiremwamuntu, hafatwa ingamba zo kwirinda indwara z'ibyorezo, harimo n'indwara ya Maribage, ndetse n'izindi ndwara zigenda zitwara ubuzima bw'abatuye Isi.

Umwana ari kuvoma amazi yo kunywa ni byiza ko tunywa amazi ahagije ariko tukayanywa twabanje kuyasukura aho dushobora kuyateka kugira ngo twirinde indwara zitandukanye zishobora guterwa n'aya mazi aba atizewe.

Inama yahuriweho n'abantu batandukanye bo mu bihugu bitandukanye kugira ngo bige ku buryo ikiremwamuntu gishobora kugira ubuzima bwiza hagamijwe kurinda abantu bose batuye isi indwara zitandukanye cyane cyane iz'ibyorezo nka maribage ndetse n'izindi ndwara kugira ngo abantu babasheho kugira ubuzima bwiza.

Abana baje kuvoma amazi kugira ngo bayakoreshe mu mirimo itandukanye, haba kuyanywa, kuyamesesha, kuyatekesha, amazi ni meza, ni yo mpamvu dukwiriye kuyabungabunga ahantu hose ari, kuko adufasha mu buzima bwa buri munsi, ndetse no mu buzima bwacu mu mubiri wacu.

Umubyeyi ubona ko ari gutanga amahugurwa ku birebana n'indwara ndetse n'uburyo bwo kwirinda izo ndwara kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umwana yaje kuvoma amazi kuko akenerwa mu kuyakoresha imirimo itandukanye, haba kuyanywa, kuyatekesha, kuyakoresha n'iyindi mirimo, harimo kuyamesesha kuyoga, bityo bigatuma umuntu agira ubuzima bwiza.

Umuryango mpuzamahanga ushinzwe gufasha abantu, ukabaha ibiryo, bo mu bihugu bitandukanye ndetse n'ubundi bufasha bw'ibanze kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Ibigo nk'ibi ni ingirakamaro kuko bifasha abantu mu mibereho yabo.

Umwana ubona ko ari gukaraba intoki n'amazi. ni byiza ko dukaraba intoki igihe cyose dukoze ibintu byatuma twandura mu ntoki cyangwa igihe cyose tugiye gufata ifunguro ndetse n'izindi gahunda zatuma twandura indwara.

Umubyeyi ari kwa muganga, aho ari gufata urukingo, bishoboka ko ari urukingo rwa covid cumi n'icyenda, aho yajyanywe kwa muganga kugira ngo yitabweho, ni byiza ko dufata inkingo uko zateganyijwe na muganga kugira ngo dusigasire ubuzima bwacu.

Abantu baturutse mu bihugu bitandukanye kugira ngo baganire ku kibazo cy'uburwayi bukomeje kwiyongera bufata abantu, aho indwara z'ibyorezo nka Marburg zikomeje kwiyongera, harebwa ingamba zo gufata kugira ngo izo ndwara zirandurwe, ziveho burundu.

Ababyeyi ubona ko bajyanye abana babo kubapimisha kugira ngo barebe ibiro bafite. Ni byiza ko dupimisha abana bacu kugira ngo turebe nimba ibiro byabo byiyongera, bityo nidusanga bitiyongera duhindure uburyo bwo kubagaburira.

Umwana ubona ko ari gukaraba intoki ndetse akaraba no mu mutwe. Akoresheje amazi. Amazi ni meza ku buzima bwacu kuko tuyakoresha mu mirimo itandukanye.

Abajyanama b'ubuzima, aho bateranye kugira ngo bahabwe amahugurwa, ku birebana n'indwara basanzwe bavura harimo nka Malariya kugira ngo bakomeze kwita ku baturage byoroshye no kubaha ubuvuzi bwiza kandi bwizewe.

Abantu ubona ko baturutse, mu bice bitandukanye baje mu mahugurwa, ku birebana n'uburyo abantu batuye Isi, bakwiriye kugira ubuzima bwiza bafata ingamba.

Twubahize amabwiriza duhabwa n'ibigo bishinzwe ubuzima kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza, aho twirinda indwara zitandukanye ndetse n'ubwandu bwazo, twubahiriza ingamba ziba zafashwe kugira ngo hirinderwe izo ndwara.

Umusaza ubona ko afite ikibazo ari kubazwa na muganga kugira ngo abashe kwitabwaho. Umusaza ari mu zabukuru ari kugira ngo ahabwe ubufasha bw'ibanze, niba arwaye ahabwe imiti akire.

Ababyeyi batatu, ubona babiri bari gufasha umwe kugira ngo avome amazi, hifashishijwe igikoresho, aho bamanura kugira ngo amazi aze.

Abayobozi bateraniye hamwe kugira ngo bige ku kibazo k'indwara ndetse n'ingamba zafatwa, mu buryo bwo kwirinda indwara zikwirakwira ku buryo bwihuse ndetse n'izindi ndwara zishobora gushakirwa umuti byihuse kugira ngo abantu bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Abantu harimo ababyeyi babiri ndetse n'umugabo, ubona ko bari guterura ibintu biremereye, bimeze nk'ibiribwa, si byiza ko ababyeyi b'abamama, bakoreshwa kugira ngo baterure ibintu nk'ibi biremereye.

Ahantu ubona ko habereye ubukangurambaga ku birebana n'indwara zo mu mutwe, ndetse n'izindi ndwara zitandukanye, bababwira ingamba zo kwirinda izo ndwara, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umwana ubona w'umunyeshuri bigaragara ko yari avuye mu bwiherero ariko agakaraba intoki n'amazi meza, ni byiza ko igihe cyose tuvuye mu bwiherero dukaraba intoki zacu.

Ababyeyi bitabiriye ahantu, bari guhabwa inama ku bigendanye n'ubuzima bw'ikiremwamuntu n'uburyo bakwiye kugira ubuzima bwiza, hafatwa ingamba zo kwirinda indwara zitandukanye harimo nka malariya, indwara ziterwa n'umwanda kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Abana ubona ko baje kuvoma amazi ku mugezi ndetse n'abandi bana bari kujya ku ishuri, ni byiza ko dukoresha amazi kuko ni ingenzi mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi.

Umuntu ari kwa muganga, ubona ko bari kumusuzuma umuvuduko w'amaraso, kugira ngo barebe uburyo amaraso ye atembera mu mubiri, ni byiza ko twisuzumisha umuvuduko w'amaraso, kugira ngo turebe ubuzima bwacu uko buhagaze.

Umwana yajyanywe ku mujyanama w'ubuzima aho ari kumuha imiti amaze kumuvura akamusangamo indwara kugira ngo abashe gukira. Ni byiza ko twita ku bana bacu igihe bahuye n'indwara tubimenye kare tubajyane kugira ngo basuzumwe bahabwe imiti bagire ubuzima bwiza.

Urukingo rwifashishwa mu gukingira igitsina gore, bibarinda kanseri y'inkondo y'umura, ni byizayiza ko igitsina gore bose bitabira uru rukingo kugira ngo bibarinde indwara ishobora kuba kanseri y'inkondo y'umura.

Ababyeyi bajyanye abana babo ku mujyanama w'ubuzima kugira ngo babashe gupimwa ibiro bafite maze n'imikurire yabo ibashe kurebwa kugira ngo haboneke uburyo bakwitabwaho kugira ngo bagire imikurire myiza n'imirire myiza maze bazakure bafite ubuzima bwiza.

Abantu baturutse mu bihugu bitandukanye kugira ngo bige ku kibazo cy'indwara zo mu mutwe, ndetse abantu barwaye indwara zo mu mutwe bashakirwe imiti ibavura izo ndwara ndetse n'ubundi bufasha, mu gihe hatabashije kuboneka imiti ivura izo ndwara. Ni byiza ko twita ku bantu bafite ubumuga ndetse n'uburwayi bwo mu mutwe.

Ikigo cyitwa Mysol, gishinzwe gufasha abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, haba uburwayi bundi bwo mu mutwe ku bigendanye n'imitekerereze, kikabaha ubufasha bw'ibanze haba ari ibikoresho bifashisha bishobora kubafasha gukira izo ndwara ndetse no kubageza kwa muganga kugira ngo bahabwe ubufasha.

Ikiganiro cyatanzwe na Madame Jeannette Kagame, kibanda ku bijyanye n'ubuzima, ku birebana n'imitekerereze cyangwa indwara zo mu mutwe, avuga ko hakwiye gufata ingamba zo kwirinda indwara zo mu mutwe.

Umubyeyi ufite abana babiri, umubyeyi ari kugerageza gutekera abana igikoma. Igikoma ni kimwe mu bintu biba birimo intungamubiri zifasha umwana gukura neza, umubyeyi ariko agomba kwita ku bana, aho agomba kubaha igikoma gihagije kandi bakagifata buri munsi.

Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda Arabisi, aho kiri gutanga inama ku bijyanye n'uburyo bwo kwirinda indwara zishobora gutera uburwayi bwo mu mutwe ndetse n'ingamba zafatwa kugirango izo ndwara zikumirwe.

Inama yateranye yahujwe n'abantu batandukanye, kugira ngo bige ku ndwara zo mu mutwe ndetse n'ibintu bitera indwara zo mu mutwe, harimo kunywa ibiyobyabwenge, kugira ibibazo bitandukanye, bityo bashaka ingamba zo gukumira izo ndwara zo mu mutwe.

Umuntu afite ikibazo cyo mu mutwe ashungamiriwe n'abantu batandukanye. Aho ari kubareba cyane ariko asa nkaho afite imitekerereze iri hasi. Ni byiza ko dufasha aba bantu tukabaganisha ku bigo kugira ngo bitabweho, bahabwe ubuvuzi kugira ngo bakire.

Uburyo bwiza bwo kuruhuka, ni igihe umubiri aho witabwaho bagorora imitsi, ndetse amaraso akabasha gutembera neza, bikaba byakurinda indwara z'umutima, umuvuduko w'amaraso, diyabete ndetse n'izindi ndwara.

Ababyeyi bafite abana bakiri batoya aho bari gushishikarizwa kujya bafata ibiryo birimo intungamubiri kugira ngo abana bashobore kugira ubuzima bwiza bakiri batonya, bityo bibarinde kugira imirire mibi, bicyo umwana akure afite ubuzima bwiza.

Ibitaro byakira abarwayi barwaye indwara zo mu mutwe ndetse n'izindi ndwara, kugira ngo bahabwe ubuvuzi maze bakire, aho iki kigo gikora ubushakashatsi ku ndwara haba indwara z'uruhu, indwara zo mu bwonko kugira ngo hashakirwe imiti yazo.

Amabwiriza atangwa n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ubuzima ku isi hose ko buri muntu wese afite uburenganzira ku bigendanye n'ubuzima bwe haba kurindwa indwara zitandukanye kwitabwaho ndetse n'ubwisanzure mu kuvurwa indwara zitandukanye.

Amahugurwa ku babyeyi bafite abana uburyo bagomba kwita ku bana babo babaha indyo yuzuye ndetse n'ibindi bisabwa kugira ngo umwana akure neza, haba ari ibiryo bikungahayeho vitamini kugira ngo abana babashe kugira ubuzima bwiza.

Abantu ubona ko bafite ikibazo cy'inzara ndetse n'uburwayi bwo mu mutwe, higanjemo abana benshi cyane ndetse n'umukecuru ubona ko akuze, aba bana urabona ko batagira aho baba ndetse n'ikibatunga ntacyo, ni ngombwa ko twita kuri aba bana kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umugabo ubona ko yasetse bigaragara ko amenyo ye afite isuku, ni byiza ko twoza amenyo yacu, dukoresheje umuti wabugenewe ariwo korogate kandi tukabikora buri gihe igihe cyose twariye cyangwa mbere y'uko tugiye kurya.

Urujya n'uruza rw'abantu, ubona ko bafite ibibazo bigendanye n'imibereho. Aho umwana ari kurira bigaragara ko afite ubuzima butari bwiza n'umubyeyi ubona ko afite n'abandi bana, bishoboka ko babayeho mu buzima butari bwiza.

Umurwayi ari kwitabwaho n'umujyanama w'ubuzima ari gusuzumwa kugira ngo harebwe ikibazo afite maze abashe guhabwa ubuvuzi bw'ibanze nibaba bikomeye ahabwe n'ubundi butabazi ajyanwe kwa muganga kugira ngo avurwe.

Umwana bigaragara ko ari kurira, uko bigaragara ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe, ni byiza ko abana nkaba baganirizwa maze ubuzima bwabo bukitabwaho.

Umuntu ubona ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, akenewe kwitabwaho n'abaganga, yaba ari ukuganirizwa, ndetse n'ubundi bufasha yahabwa kugira ngo abashe gukira.

Ikigo kivura indwara zo mu mutwe gikorera i Kigali, aho cyakira abantu batandukanye bafite ibibazo byo mu mutwe, aho kibafasha kubaganiriza, haba ari uguhabwa imiti ndetse n'ubundi bufasha, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Iyo umuntu yarakaye, ni ngombwa kwitabwaho akaganirizwa, kugira ngo ahabwe ubufasha bw'ibanze, abashe no gukemurirwa ikibazo afite, cyane cyane iyo ari ikibazo cy'uburwayi, akitabwaho namu ba muganga kugira ngo avurwe.

Inama yahuriyemo n'abantu batandukanye, igamije gushaka umuti w'indwara zo mu mutwe zimwe ziterwa no kunywa ibiyobyabwenge, kugira ibibazo bitandukanye, harimo kubura aho kuba ndetse n'ubundi burwayi.

Umusore yubitse umutwe afite ikibazo cyo mu mutwe bishoboka ko yagize ikibazo cy'ihungabana bitewe n'ibibazo yagize cyangwa ubundi burwayi, ni byiza ko umuntu aganirizwa igihe yahuye n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe kugira ngo abashe kugira ubuzima buzira umuze.

Abantu bateraniye ahantu hamwe, kugira ngo bige ku kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, bafate n'ingamba zo kwirinda indwara zishobora gutera uburwayi bwo mu mutwe, hitabwa kwita ku bantu bafite ubwo burwayi, bahabwa ubufasha bw'ibanze.

Abantu ubona ko bari mu mahugurwa, ku birebana n'ubuzima bw'ikiremwamuntu, aho hafatwa ingamba z'uko hakwirindwa indwara zitandukanye, ziba zagaragaye muri ako gace.

Umugabo ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe, ni byiza ko twita kuri abo bantu bafite ikibazo cyo mu mutwe kugira ngo ajyanwe kwa muganga bakurikiranwe.

Umuntu bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, ni byiza ko twita kuri aba bantu bafite uburwayi bwo mu mutwe rimwe na rimwe bakaba bajyanwa no kwa muganga kugira ngo harebwe ko bashobora gukira.

Umuryango mpuzamahanga wa UNICEF ufatanyije n'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC, aho hari umunsi wo ku icumi z'ukwa Cumi, ushinzwe kwibuka uburyo bwo kurwanya indwara ziterwa n'imitekerereze mibi, bityo bigakurizaho kuba umuntu yarwara indwara zo mu mutwe.

Umuntu ubona ko afasha abantu bagize ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, abaha imiti ndetse n'ubundi bufasha butandukanye.

Umuntu ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe ni byiza ko abantu nk'aba bafite ikibazo cyo mu mutwe bitabwaho kugira ngo babashe kuvurwa maze bakire.

Abana ubona ko bahawe inama ku birebana n'uburyo bagira ubuzima bwiza, birinda indwara zitandukanye, zishobora gutuma badatekereza neza cyane cyane dore ko ari abanyeshuri.

aAbana ubona ko barererwa ahantu, ariko bigaragara ko bafite ikibazo cyo mu mutwe. Ni byiza ko aba bana bitabwaho bahabwa inama ndetse n'inyigisho bibafasha kugira ubuzima bwiza, bahabwa ibyo bakeneye nk'ibyo kurya ndetse n'ibindi bikoresho bibafasha kugira ngo babeho.

Abantu bakore ikigo gishinzwe indwara zo mu mutwe, ndetse n'uburyo izo ndwara zakwirindwa, hafatwa ingamba zitandukanye, aho bafasha abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe, babaha ubufasha nk'ubuvuzi ndetse n'ubundi bufasha butandukanye, ni byiza ko twita kuri aba bantu bafite uburwayi bwo mu mutwe, kugira ngo bavurwe maze bakire.

Umuntu ubona ko atetse ariko ahantu atekeye hadafite isuku, biragaragara ko ari umukecuru ugeze mu zabukuru, ni byiza ko akwiye kwitabwaho kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umwana ubona ko ari mu mashuri y'inshuke, ubona ko hari akantu ari kurya. Ni byiza ko tujyana abana bacu mu mashuri y'inshuke kugira ngo bazakure bafite ubwenge kandi bashobore kwiga neza mu mashuri akurikiyeho.

Abantu ubona ko bari guhabwa amahugurwa ku birebana n'indwara zo mu mutwe kugira ngo hafatwe ingamba zuko zikwiwe kwirindwa.

Umuntu bigaragara ko baba afite ikibazo cyo mu mutwe aho yicaye mu muhanda adafite aho kuba, ni byiza ko abantu nk'aba bitabwaho bakajyanwa kwa muganga kugira ngo bavurwe harebwe ko bakira.

Umugabo yicaye ahantu wenyine aho ubona yigunze, afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe akeneye abantu kugira ngo bamuhe ubufasha, ni ngombwa ko aba bantu bafite uburwayi bwo mu mutwe bitabwaho bakajyanwa kwa muganga kugira ngo bavurwe.

Umuntu wihebye bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe ndetse yanashobewe bitewe n'ikibazo ashobora kuba yahuye na cyo, ni ngombwa ko yitabwaho kugira ngo aganirizwe maze abashe kugira ubuzima bwiza.

Abantu ubona ko baje mu mahugurwa kugira ngo bahugurwe ku birebana n'ubuzima bw'umuntu bwa buri munsi ndetse n'uburyo twakwirinda indwara zifata cyane cyane abangavu ndetse n'urubyiruko muri rusange.

Umwana muto cyane, ubona ko ari kugerageza kwiborosa, akoresheje uburoso, ni ibyiza ko abana bose bakiri bato, bamenyerezwa gukoresha umuti w'amenyo ndetse bakajya boza amenyo kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abantu bari mu bukangurambaga babona ko bari gushishikariza abantu gukoresha umuti w'amenyo kandi bakawukoresha neza kugira ngo birinde indwara zitandukanye.

Igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa bapima indwara zitandukanye, harimo umuvuduko w'amaraso, umutima ndetse n'izindi ndwara, kugira ngo habashe kumenyekana ko umurwayi afite iyo ndwara.

Umukobwa ubona ko ari koza amenyo akoresheje uburoso, ni byiza ko twoza amenyo yacu kugira ngo twirinde indwara zishobora guterwa no kuba amenyo yacu yanduye.

Igice cy'amenyo ubona ko gifite ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo. Twite ku menyo yacu tuyoza dukoresheje umuti wabugenewe, kugira ngo twirinde indwara z'amenyo.

Muganga ahari gusuzuma umuntu amenyo, ubona ko uyu ni umuntu afite ikibazo cy'amenyo aho ayarwaye, ari kugerageza kureba iryinyo rirwaye kugira ngo ribe ryakurwamo cyangwa nasanga bidafite ubukana cyane, abe yahabwa imiti maze imufasha kugabanya ububabare.

Igikoresho k'ikoranabuhanga gikoreshwa no kwa muganga, aho usanga cyifashishwa cyane cyane ku barwayi barembye cyane, aho gikoreshwa bapima umurwayi, umuvuduko w'amaraso ndetse n'uburyo umutima uri gutera, kugira abashe kuvurwa.

Umurwayi arwaye iryinyo, aho ari kurikurirwamo na muganga, kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza, kuko iryinyo iyo ryagaragaye nk'iryamaze kurwara, rigomba gukurwamo kugira ngo ritanduza andi na yo agafatwa n'indwara, ni byiza ko tugirira amenyo yacu isuku, kugira ngo twirinde indwara no kuba yakurwamo.

Imiti itandukanye, harimo iyi miti y'ishinge n'indi miti ivura indwara zitandukanye ndetse hakabamo n'umuti w'amenyo ukoreshwa igihe umuntu ari koza amenyo, ayasukura akuramo imyanda kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza.

Ni ingirakamaro kwita ku menyo yacu tuyasukura dukoresheje umuti wabugenewe kandi tukabikora buri gihe igihe cyose amenyo yacu yaba yahuye n'umwanda cyangwa igihe tumaze kurya kugira ngo amenyo yacu agire isuku tukibuka no gukoresha kadodo kugira kabashe gusukura aho uburoso bw'amenyo butabasha kugera.

Agakoresho kifashishwa mu kurinda amenyo uburwayi, ni byiza ko twese dukoresha ibikoresho bidufasha kurinda amenyo yacu uburwayi, kugira ngo twirinde n'izindi ndwara zose zaturuka kuba amenyo yacu yanduye.

Icyumba cyifashishwa mu kwakira abarwayi, haba abagiye kubagwa ndetse n'abandi bantu bafite ibibazo bitandukanye kugira ngo babashe kwitabwaho na muganga, maze babashe gukira bagire ubuzima bwiza.

Umubyeyi yari kwa muganga, ari kwitabwaho na muganga kugira ngo abashe kumuvura amenyo, nibasanga hari iryinyo ryagize ikibazo ribashe gukurwamo, maze ahabwe imiti anashishikarizwe kujya asukura amenyo ye, kugira ngo yirinde indwara zirimo nko kuyakurwamo cyangwa n'umwuka mubi mu menyo,

Kwita ku menyo ni ingirakamaro kuko bifasha kuturinda indwara zitandukanye, harimo ifumbi yo mu menyo ndetse n'umuhumuro mubi ushobora guturuka mu menyo, bityo bikakurinda kuba wajyanwa kwa muganga kugira ngo ube wakurwamo iryinyo, ni byiza ko twita ku menyo yacu tuyarinda indwara.

Ku buzima bw'umwana biba byiza ko yitabwaho cyane cyane iyo akiri muto, amenyo afite uburwayi agakurwamo kugirango abashe kumera andi menyo ameze neza kandi afite ubuziranenge.

Umugabo bigaragara ko amenyo ye afite isuku ihagije kandi nta myanda irimo, aho aba yigishijwe na muganga uburyo bwiza bwo gukoresha umuti ndetse n'ibikoresho byiza bisukura amenyo kugira ngo hirindwe indwara zishobora guterwa n'amenyo yanduye harimo nk'ifumbi y'amenyo, gukurwamo kw'amenyo, kubyimba ishinya ndetse n'ibindi.

Abanyeshuri, abanyeshuri bari kumwe n'umwarimu wabo aho bahawe umuti wo koza amenyo ndetse bakanigishwa uburyo bwo gukoresha umuti w'amenyo kugira ngo basukure amenyo yabo maze bagire ubuzima bwiza.

Umuntu ari kugerageza koza amenyo ye akoresha gakoresho kabugenewe, aho bigaragara ko amenyo ye asanzwe afite umwanda, bityo byari kumuviramo indwara zitandukanye ari byo byiza ko yiyemeje gukoresha agakoresho keza kabugenewe kugira ngo asukure amenyo ye, bityo bimurinde indwara harimo nk'ifumbi ndetse no kuba amenyo yakurwamo.

Umuganga ubona ko ari gupima uburwayi bw'amenyo, bishoboke ko ari umuntu yaje kwivuza amenyo kugira ngo avurwe akire.

Abaganga ubona ko bita ku barwayi barwaye amenyo, ubona ko baba biteguye kwakira umurwayi wese uje ubagana.

Iyo umuntu atitaye ku menyo bishobora kumuviramo kwandura indwara zitandukanye harimo indwara z'amenyo, aho ashobora gufatwa n'uburwayi bw'ifumbi cyangwa umwuka mubi cyangwa ishinya ikabyimba n'amenyo amwe n'amwe akaba ashobora gukurwamo.

Abana ubona ko bari koza amenyo yabo bakoresheje uburoso ndetse na korogati, ni ingenzi koza amenyo yacu kugira ngo twirinde indwara zitandukanye ziterwa no kuba harimo umwanda mu menyo.

Umusaza bigaragara ko ageze mu za bukuru aho ari gufata ibinini bigendanye n'uburwayi bw'amenyo, kugira ngo abashe gukira ubu burwayi bw'amenyo asanganywe. Ni byiza ko dufata imiti twahawe na muganga kandi tukayifata uko bikwiriye.

Umwana ari kwitabwaho na muganga ubona ko afite ikibazo cy'amenyo ari kugerageza kumukuramo amenyo afite ikibazo ndetse no kumuha umuti kugira ngo amenyo ye yasigaye abashe gukomera.

Umuntu ubona ko ari koza amenyo akoresheje akagozi kifashishwa hozwa amenyo, aho kifashishwa boza hagati y' amenyo aho uburoso bw'amenyo butaba bwabashije kugera kugira ngo umuntu asukure amenyo.

Icyumba cyo kwa muganga cyifashishwa mu kuvura abantu bagize ikibazo cy'imvune, ndetse n'ubundi burwayi busaba ko umuntu abagwa, aho ari icyumba kirimo ikoranabuhanga, aho umuntu bamutera ikinya kugira ngo uburibwe bubashe kugabanuka maze abagwe avurwe.

Umugabo ubona ko afite amenyo asukuye. Ni byiza ko twoza amenyo yacu igihe cyose ubona ko yanduye kugira ngo tuyarinde indwara zitandukanye.

Umurwayi ari kwa muganga, ari kwitabwaho na muganga bareba umuvuduko we w'amaraso ndetse n'uko umutima we uri gutera kugira ngo abashe guhabwa ubuvuzi maze avurwakire.

Umugabo ageze mu za bukuru aho ari kwitabwaho na muganga yagize ikibazo cy'imitsi kugira ngo abashe kuba yatambuka neza, ari gukora imyitozo ngororamubiri abifashijwemo na muganga kugira ngo amaraso abashe gutembera neza n'imitsi igororoke.

Abantu ubona ko harimo abayobozi, bakaba batanze ibikoresho byifashishwa mu bantu bageze mu zabukuru. Ni byiza ko dufasha abantu bageze mu zabukuru bahabwa ibyo bakeneye.

Abakecuru bageze mu zabukuru ubona ko bari gutambuka ndetse bitwaje n'akabando kugira ngo kabafashe mu rugendo rwabo, nni byiza ko aba bakecuru bageze mu zabukuru bitabwaho bagahabwa ubufasha mu gihe bagiye nk'ahantu runaka, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Amoko y'ibiryo yiganjemo ibinyampeke n'ibindi biryo, cyane cyane bihabwa abantu bakuze kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza, aho babifata nyuma y'uko bafashe ifunguro risanzwe.

Umuntu ageze mu zabukuru biba byiza ko afata imiti uko yayandikiwe na muganga kandi akayifata ku gihe gikwiriye kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza maze akire indwara arwaye.

Muganga ari kwita ku musaza n'umukecuru ubona ko bageze mu zabukuru ndetse n'abandi bantu bose bageze mu zabukuru, abaha ibintu bishobora kubafasha kugira ubuzima bwiza, mu gihe bageze mu myaka yabo, abagira n'inama zirimo uburyo bashobora kujya bakora imirimo itari iy'imvune ndetse abaha n'ubundi bufasha.

Umusaza ubona ko ageze mu zabukuru ari gusuzumwa n'umuganga, ari gusuzumwa ibijyanye n'umuvuduko ukabije kugira ngo ahabwe imiti.

Ababyeyi ubona ko bari kwitabwaho, ibigaragara bageze mu zabukuru, bari kwitabwaho bahabwa inama z'uko bagomba kwitwara, ndetse n'ifunguro bagomba gufata, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Umusaza ubona ko ari kwitabwaho na muganga ageze mu gihe cy'iza bukuru, aho ari kumwereka uburyo azajya afata imiti yahawe, ku gihe gikwiye, kandi agafata ingano y'imiti ikwiriye, kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza kandi n'imiti izamugirira akamaro.

Umusaza n'umukecuru ubona ko bakuze, ubona bari kurya ku rusobe rw'ibinyampeke, imbuto ndetse n'imboga, ibi biba byiza cyane ku bantu bakuze iyo babifashe rimwe ku munsi.

Umukecuru ubona ko ari guhabwa imiti, ndetse banamwereka uburyo agomba kujya afata imiti yandikiwe, kugira ngo abashe kuyinywa neza, maze akire.

Umusaza ubona ko ari kumwe n'abana babiri bari kurya, ni byiza ko abana bafata ifunguro uko bikwiye, higanjemo ibiryo birimo agasukari, ndetse n'abasaza basheshe akanguhe, biba bikenewe mu buzima bwabo.

Umukecuru ubona ko akuze ari gukoreshwa imyitozo kugira ngo ananure ingingo ze z'umubiri, cyane cyane amaboko ubona ko ari kubyerekwa uko abikora, aha impande ye hari muganga ari kumwereka uburyo bikorwa.

Umubyeyi ubona ko ari muri siporo, ari kugerageza kunanura ingingo ze z'umubiri cyane cyane amaguru ndetse n'amaboko kugira ngo agire ubuzima bwiza. Ni byiza ko dukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo duhinure imibiri yacu ndetse n'ingingo zacu.

Igihe abantu bageze mu za bukuru biba byiza cyane iyo bari gukina imikino itandukanye aho bibafasha kwidagadura ndetse no gutekereza neza bakaruhuka bakiyumva ko nabo ari abantu nk'abandi bityo bikabafasha gusaza neza bafite ubuzima bwiza.

Umusaza ageze mu zabukuru ubona ko afite uburwayi ari kwitabwaho na muganga, amwereka uburyo ahabwa imiti ndetse n'imiti azajya afata buri munsi n'uburyo azajya ayinywa, haba mugitondo ndetse na nimugoroba cyangwa saa sita kugira ngo amufashe umusaza akomeze agire ubuzima buzira umuze.

Umusaza ubona kokuze ari mu kagare ari kwitabwaho n'umukobwa uko ari kumufasha kugira ngo abe yananura ingingo ze z'umubiri ibyiza ko twita kuri aba bantu bakuze tubafasha kugira ngo bananure ingingo zabo ndetse binabarinde indwara zitandukanye.

Abantu ubona ko higanjemo ababyeyi bakuze, abakecuru ndetse n'abasaza, ndetse n'abana bakiri batoya, ubona ko bari kuganira, basabanye, bari guseka, ubona ko bishimye nk'umuryango. Ni byiza kuganira kandi gusabana na byo birafasha kuko byubaka umubano mwiza.

Umubyeyi ageze mu za bukuru ari kwitabwaho na muganga amuha ubufasha bw'ibanze kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza, amubaza aho yumva atameze neza uko amerewe, uko yumva umubiri we umeze kugira ngo abashe kumufasha haba ari ukumuvura ndetse no kumuha ibimufasha kugira ngo abashe gusaza neza.

Abantu ubona ko bageze mu zabukuru bari kugerageza gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo babashe kunanura ingingo zabo zahinamiranye, ndetse n'imitsi ibashe kurambuka maze amaraso yabo atembere neza.

Abasaza ubona ko bageze mu za bukuru, aho bari gutembera kugira ngo bananure ingingo zabo z'umubiri, biba byiza cyane iyo umuntu ageze mu za bukuru yitabwaho kandi na we agakora imyitozo haba arimo kugenda gahoro gahoro, kugira ngo amaraso abashe gutembera mu mubiri.

Ababyeyi bakuze ni byiza ko bafata ibiribwa byiganjemo imbuto ndetse n'indyo yuzuye kugira ngo bagire ubuzima bwiza, dore ko baba bakeneye intungamubiri zihagije kuko umubiri wabo uba utangiye kugenda gake, ni ngombwa ko bafata ibintu byiganjemo intungamubiri nk'imbuto ndetse n'ibindi biribwa.

Umubyeyi w'umumama abona ko ari gusuzuma umusaza indwara ya Malariya, aho amaze kumutera urushinge, ategereje kureba ibisubizo nimba koko arwaye Malariya.

Umukecuru n'umusaza ubona ko bishimye cyane, bari mu gihe cy'izabukuru ariko bitababuza kwishima ndetse no kuganira no kugaragarizanya urukundo hagati yabo, ni byiza ko mugihe turi mu za bukuru tugomba kwishima hagati y'umugabo n'umugore.

Umukecuru ari mu za bukuru, ari kwitabwaho na muganga, kugira ngo abashe kumugororera ingingo ze z'umubiri, ahari kumukoresha imyitozo ngororamubiri, kugira ngo amaraso atembere neza maze agire ubuzima bwiza.

Gukina ni kimwe mu bintu bishobora kugufasha kuruhuka neza haba ku mwana ndetse no ku muntu ukuze kuko bituma musabana, mukaganira umwana akaba yakwisanzuraho akakubwira ikibazo afite bityo bikabafasha kubaho neza.

Umusaza ubona ko ari kwitabwaho kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza, bari kumwoza mu mutwe, bamusukura imyanda yaba iri mu mutwe.

Umukobwa ubona ko ari gufasha umukecuru ukuze kugirango abe yakora siporo, ananure ingingo ze z'ukuboko kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Ahantu hari umusaza ubona ko akuze ndetse na muganga, umusaza ubona ko ari gupimwa umuvuduko ukabije ndetse n'ibindi bibazo bijyanye n'ubuhumekero kugira ngo abashe kwitabwaho.

Umusaza ari kwitabwaho na muganga, aho ari guhabwa imyitozo ngororamubiri kugira ngo ayikore, maze abashe kugira ubuzima bwiza, agorora imitsi ye kugira ngo amaraso atembere neza mu mubiri we.

Abantu ubona bateraniye ahantu ariko bakuze kugira ngo bitabweho bahabwe n'inama ku bigendanye n'imibereho yabo kuko bageze mu za bukuru, ni ngombwa ko bitabwaho bahabwa ubufasha bw'ibanze.

Umuntu ugeze mu za bukuru ubona ko ari kwitabwaho na muganga ahabwa imiti kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza, abantu bageze mu zabukuru ni ngombwa ko bitabwaho uko bikwiye.

Umugabo n'umwana ubona ko bari muri siporo. Siporo ni nziza ku buzima bw'umuntu bwa buri munsi.

Abasaza n'abakecuru ubona ko bageze mu zabukuru aho bamwe bari kuboha ibiseke, abandi inkangara, ni byiza ko aba bantu bitabwaho bahabwa ubufasha bw'ibanze kugira ngo babashe gusaza neza.

Umukecuru n'umusaza ubona ko bari kunywa amazi, umukecuru ari kwita ku musaza kugira ngo anywe amazi ndetse bose bagire ubuzima bwiza cyane cyane iyo bageze mu za bukuru ni ngombwa ko bagira ubuzima bwiza babitaho.

Umusaza ageze mu zabukuru ari kwitabwaho na muganga, kugira ngo agorore imitsi ye y'akaboko, maze amaraso ajye atembera neza mu mubiri. Abasaza bageze mu zabukuru ni ngombwa ko bakora imyitozo bityo bibarinda indwara zitandukanye, harimo kudatembera neza kw'amaraso ndetse no guhinamirana kw'imitsi.

Umuntu ubona ko ageze mu zabukuru, ari kwitabwaho na muganga, ari mu kagare, aho ari kumujyana, kugira ngo abe yasuzumwa indwara afite.

Umukecuru ageze mu zabukuru ari kwitabwaho na muganga, aho ari kugerageza kuba amukandira imitsi ye bishoboke ko yanavunitse kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Umusaza ubona ko ari kwitabwaho na muganga, urabona ko ageze mu zabukuru, ni byiza ko abantu basheshe akanguhe bagomba kwitabwaho byihariye kugira ngo basaze bafite ubuzima buzira umuze.

Umugabo bigaragara ko yagize ikibazo cyo kubura umwuka ndetse n'ubundi burwayi, aho hari kwitabwaho n'abaganga, kugira ngo ahabwe ubufasha avurwe maze agarure ubuzima, yongere agire ubuzima bwiza.

Ikigo gikora ubushakashatsi ku birebana n'indwara, aho hari ikigo cy'Afurika y'Uburasirazuba, gishinzwe gukora ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye, kugira ngo habe habonerwa imiti byihuse ndetse n'inkingo.

Ikigo gikorera ku isi hose ndetse no mu Rwanda, aho gishinzwe gufasha abantu ndetse no gukora ubuvuzi ku bantu barwaye indwara ya Diyabete kugira ngo bakomeze kwitabwaho basuzumwe, bahabwe imiti ndetse bakomeze no gukurikiranwa kugira ngo bahabwe ubuvuzi bwiza.

Umuntu ubona ko ari kwitabwaho n'abaganga kugira ngo abashe kuvurwa amenyo ndetse niba hari n'afite ikibazo abashe gukurwamo, ni byiza ko twita ku barwayi b'amenyo.

Bamwe mu bayobozi bakora muri Minisiteri y'Ubuzima, aho bateraniye hamwe kugira ngo bige ku ndwara z'ibyorezo n'ingamba zafatwa kugira ngo izo ndwara zirindwe, hatangwa ibimenyetso biranga izo ndwara ndetse n'uburyo abaturage bakwiye kuzirinda.

Abaganga aho bari bari gupima abarwayi indwara ya Marariya, aho bari bari kubapima bakoresheje inshinge ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma kugira ngo nibasanga abayirwaye bahabwe imiti kandi bavurwe neza bakire.

Ikigo cyo mu Rwanda gishinzwe ubuzima bwa buri muntu, aho gitanga ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kugira ngo ikiremwa muntu kigire ubuzima harimo amasabune ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu isuku.

Ikigo gishinzwe kurwanya indwara ya kanseri aho ari indwara ifata abadamu aho ari ngombwa kwikingiza kugira ngo twirinde iyi ndwara ya kanseri cyane cyane ku bakobwa ndetse n'igitsina gore muri rusange.

Abantu babona ko bari guhabwa ubufasha ku bijyanye n'ibiryo ndetse n'ibindi bintu bitandukanye byose, kugira ngo bagire ubuzima bwiza babashe kubaho neza bafite ubuzima buzira umuze. Ndabona ko hari abambaye imyenda isa nk'aho bashinzwe gukora, hano hari akazi bahakorera.

Abarwayi bari kwa muganga, aho bari gusuzumwa indwara zitandukanye, cyane bishoboke ko ari ubwandu bwa Korona virusi kugira ngo bahabwe ubuvuzi nibasanga bayirwaye bitabweho maze babashe gukira.

Abantu ubona ko bateraniye mu nama biga ku kibazo cy'indwara ndetse n'uburyo twakwirinda indwara zitandukanye n'ingamba zafatwa kugira ngo hirindwe izo ndwara.

Ikigo cya RBC gishinzwe ubuzima mu Rwanda, aho cyari cyafatanyije n'ibindi bigo bishinzwe ubuzima ku isi hose kugira ngo harebwe ingamba zafatwa ku ndwara zigenda zaduka z'ibyorezo ndetse n'izindi ndwara kugira ngo hashakirwe umuti ndetse n'ubwirinzi.

Abantu bakora mu kigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku bantu mu buzima bwabo, ndetse n'indi mibereho itari myiza; aho gitanga imfashanyo ku bantu bafite imibereho itari myiza.

Igihe ushobora gukuramo inda ni igihe ushobora kuba utarengeje amezi atatu kuko niho idashobora kuba yakugiraho ikibazo, bityo tumenye igihe cyiza niba dushaka gukuramo inda cyangwa igihe haba habaye ikindi kibazo kuba twabikora kare.

Amabwirizwa yari yarashyizweho n'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC, kugira ngo twirinde tunakumire ubwandu bwa korona virusi, harimo nko gukaraba intoki kenshi, kwambara agapfukamunwa, guhana intera ndetse no kwisuzumisha no gutanga amakuru yo ku muntu uyirwaye cyangwa wowe igihe uyirwaye, kujya kwa muganga kugira ngo wisuzumishe.

Umubyeyi yari ari gutanga inama ku birebana n'inda ziterwa abangavu, n'uburyo batwita bakiri abana bakiri batoya, mu gihe bataba bafite ubushobozi bwo kurera abo babyaye, bikaba byiza ko bakwiye kwirinda kuba baryamana n'abahungu babashuka cyangwa abagabo babashuka, kugira ngo birinde izo ngaruka.

Diyabete ni indwara iterwa no kugira isukari nyinshi mu mubiri cyangwa ishobora guterwa no kubura isukari idahagije mu mubiri. Bityo rero kwirinda ino ndwara ni uburyo bwo kwirinda ibintu birimo isukari ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri kenshi gashoboka.

Ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku mpunzi, aho impunzi zihabwa haba ibyo kurya ndetse n'ubundi bufasha, aho kuba kugira ngo babashe kugira ubuzima buzira umuze babeho neza.

Umukecuru ubona ko ageze mu zabukuru yagize ikibazo cyo kurwara ijisho, aho ijisho rimwe ritakirimo, n' ibyiza ko aba bakecuru bageze mu za bukuru bitabwaho bahabwa ubundi bufasha bw'ibanze kugira ngo babashe gusaza neza.

Abayobozi ubona ko bari bateraniye mu nama kugira ngo bige ku ngamba zafatwa kugira ngo hahagarikwe icyorezo cya Marburg aho hafatiwe ingamba zitandukanye.

Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC, aho gitanga amabwiriza ajyanye n'uburyo twakwirinda ubwandu bwa SIDA, ndetse n'uburyo twakwita ku muntu yarwaye SIDA, aho afata imiti igabanya ubukana, kugira ngo abashe kubaho.

Amahugurwa yateraniyemo n'abantu benshi ndetse bari gukora ku bushakashatsi, ku bigendanye n'indwara zaduka kuri ino si ndetse n'ingamba yo kuzirwanya kugira ngo abantu barusheho kugira ubuzima bwiza.

Ni byiza ko twirinda kanseri, cyane cyane nka kanseri zishobora kugufata igihe utafashe inkingo wagenewe na muganga, ndetse twirinde no gukoresha ibikoresho bishaje, kuko bishobora gutuma twandura Kanseri kandi idashobora gukira.

Ibitaro ubona ko byakira abarwayi barembye kugira ngo bitabweho bahabwe imiti ndetse n'ubundi buvuzi kugira ngo babashe gukira.

Umuntu ufite ikibazo cy'ubumuga bigaragara ko ari mu kagare asa nkaho ari kwa muganga, yajyanywe kugirango avurwe, abantu nk'aba bafite ubumuga ni byiza ko bitabwaho bahabwa ubufasha bw'ibanze bakeneye.

Icyumba kirimo ibitanda bitandukanye byifashishwa mu kwakira abarwayi bafite indwara cyane barembye kuko bisaba ko baba bagumye muri ibi bitaro kugira ngo bakomeze kwitabwaho bahabwa imiti, bitabwaho na muganga kugira ngo bakire.

Icyumba cyo kwa muganga cyubatse neza kirimo ibikoresho bihagije byifashishwa igihe hari kubagwa abarwayi bafite indwara zitandukanye. Ni ibyiza ko abaganga bakoresha ikoranabuhanga ndetse n'ibikoresho byizewe mu gihe bari kuvura abarwayi kugira ngo bibarinde kuba hari ikibazo umurwayi ashobora guhura na cyo igihe ari kuvurwa.

Ibitaro bya Nyarugenge, byifashishwa mu kwakira abarwayi barembye cyane, bikabaha ubuvuzi bw'ibanze, ndetse n'ubundi buvuzi, bitewe n'indwara z'abantu.

Ibitaro bya Ruhengeri aho byakira abarwayi batandukanye barwaye indwara harimo: indwara z'umutima, indwara zo mu mutwe, kugira ngo bavurwe neza bahabwe imiti ifite ubuziranenge maze bakire bagire ubuzima bwiza.

Inzu yifashishwa mu kwakira ababyeyi batwite ndetse n'ababyeyi bafite abana bakiri batoya, kugira ngo babashe guhabwa ubufasha bw'ibanze, haba kubabyaza, kubitaho, gusuzumisha abana ndetse no guhabwa inkingo.

Icyumba ubona ko cyakirwamo abarwayi barembye ndetse n'abandi bafite ibibazo bitandukanye kugira ngo babashe kuvurwa bakire.

Ikigo nderabuzima cya Matyazo, ubona ko cyakira abarwayi bo muri ako gace kugira ngo bitabweho bahabwe ubuvuzi bw'ibanze babashe gukira.

Ikigo nderabuzima cya Shagasha, aho cyakira abarwayi ndetse n'abaturage bakeneye ubufasha kuri iki kigo bagituriye, kikabaha ubufasha ubwo ari bwo bwose bigendanye n'ubuvuzi kugira ngo kibiteho maze abaturage bagire ubuzima bwiza.

Igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa bavura indwara zitandukanye, ubona ko gikoranye ubuhanga ndetse n'ubushishozi, aho kiba gifite ubuziranenge, kikifashishwa mu kuba cyafasha abarwayi igihe bari kubavura indwara zigiye zitandukanye.

Abantu ubona ko baje kwa muganga, bategereje kugira ngo bitabweho n'abaganga, basuzumwe kugira ngo haboneke indwara arwaye maze bahabwe imiti.

Icyumba cyo mu bitaro cyifashishwa mu kwakira abarwayi bafite indwara zitandukanye, harimo indwara z'umutima indwara z'amaso zishobora kuba zifite ubukana cyane, aho bahakirirwa kugira ngo basuzumwe na muganga babashe kuvurwa bakire.

Ikigo nderabuzima ubona ko cyifashishwa mu kwakira abarwayi barwaye indwara zitandukanye, kugira ngo bitabweho babashe gukira neza.

Ikigo kiza gifasha abarwayi kubavura aho gisuzuma indwara zitandukanye harimo indwara z'umutima, indwara zo mu bwonko ndetse n'izindi ndwara kugira ngo babashe kubavura maze bahabwe imiti yujuje ubuziranenge.

Ahantu kwa muganga, ubone ko hakirirwa abarwayi, kugira ngo basuzumwe babashe kwitabwaho maze nibabasangamo indwara babashe guhabwa imiti.

Icyumba cy'ikoranabuhanga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi kugira ngo ubuvuzi bugende neza, igihe hari umurwayi ari kwitabwaho, ni byiza ko dukorera ahantu hameze neza, hari ibikoresho by'ibanze kugira ngo tuvure abarwayi neza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bihagije, byifashishwa mu buvuzi bavura abarwayi, aho harimo amatara abona neza ndetse n'ibindi bikoresho bishobora gutuma umurwayi akira vuba.

Umubyeyi bigaragara ko atwite ari kwitabwaho na muganga, asuzumwe kugira ngo harebwe ikibazo ashobora kuba afite, haba ari ikigendanye n'umwana atwite.

Icyumba cyiganjemo imiti y'ubwoko bwose ifasha abantu barwaye imitima indwara zo mu mutwe indwara z'imitsi, aho abarwayi bagana, kugira ngo bahabwe imiti maze bagire ubuzima buzira umuze.

Icyumba cyo kwa muganga ubona ko cyifashishwa mu kwakira abarwayi barembye cyane, baba bagiye kubagwa, ni icyumba gifite ibikoresho bihagije, gishobora gufasha umurwayi, igihe agiye kubagwa kandi higanjemo ibyuma by'ikoranabuhanga, byorohereza muganga.

Ibitaro by'i Nyanza byakira abarwayi batandukanye cyane cyane abafashwe na RIB kugira ngo babashe gukorerwaho ubushakashatsi nimba koko barwaye indwara cyangwa baba bari kubeshya.

Ibitaro byakira abarwayi batandukanye, aho bibafasha mu kubavura indwara zitandukanye haba indwara zo mu mutwe ,indwara z'umutima, ndetse n'izindi ndwara, kikabaha ubufasha ubwo aribwo bwose ku birebana n'indwara, ndetse n'ubundi bwirinzi ku birebana n' ubwandu bw'indwara zitandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye ubonako hifashishwa mu kubaga abarwaye indwara zitandukanye, hababa indwara zo mu mubiriri, imvune ndetse n'izindi ndwara, kirimo ibikoresho bihagije kandi bifite ubuziranenge.

Icyumba cyo kwa muganga cyubatse neza, aho cyakira abarwayi batandukanye kugira ngo basuzumwe, bahabwe imiti harebwa indwara barwaye, hifashishijwe ibikoresho biba biri muri iki cyumba by'ikoranabuhanga, kugira ngo umuntu abashe kuvurwa akire.

Icyumba ubona ko cyifashishwa mu kwakira abarwayi harimo igitanda ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi, aho harimo amatara yaka neza ndetse n'ibindi bikoresho umuntu ashobora kwifashisha mu gihe cy'ubuvuzi.

Inyubako ubona ko yakira abarwayi batandukanye, harimo ababa bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe, ndetse n'izindi ndwara zitandukanye, kugira ngo babashe kwitabwaho bakire.

Icyumba ubona ko kirimo imiti ivura indwara zitandukanye, bityo rero cyifashishwa mu guha abarwayi imiti itandukanye kugira ngo babashe gukira indwara barwaye.

Ibitaro bya gisirikare ubona ko byifashishwa mu kuvura abasirikare bagize ibibazo by'uburwayi, haba ari abakomeretse ndetse n'abagize ibindi bibazo kugira ngo bavurwe.

Abaganga ubona ko bafasha abarwayi kubavura indwara zitandukanye, aho bakira haba bakomeretse kugira ngo babashe kuvurwa babagwa, maze kugira ngo bakire bahabwe imiti ikwiriye.

Icyumba cyo kwa muganga, aho harimo abarwayi batandukanye ndetse n'abaganga, aho bari kugerageza kubavura, aho harimo abaganga batandukanye, buri wese n'inshingano ze kugira ngo abashe kuvura abo barwayi.

Icyumba cyo kwa muganga cyubatse neza, kirimo intebe zihagije ndetse n'ibindi bikoresho n'urumuri ruhagije, aho cyakirirwamo abarwayi ndetse n'abaganga iyo bari gukora ubushakashatsi.

Icyumba cyo kwa muganga cyifashishwa basuzuma indwara zitandukanye, cyane cyane indwara ziba zikaze, aho hakoreshwa ibikoresho bitandukanye kugira ngo hasuzumwe izo ndwara abantu baba barwaye, maze bahabwe imiti iboneye kugira ngo bakire.

Inyubako yifashishwa mu kuvura abantu, aho hari abantu bari kujya kwivurizayo, bafite indwara zitandukanye. Ni byiza ko amavuriro yegerezwa abaturage kugira ngo bahabwe ubuvuzi bw'ibanze, bityo bagire imibereho myiza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo intebe zitandukanye ubona ko hakirirwa abarwayi kugira ngo babashe gusuzumwa indwara barwaye maze bitabweho bahabwe imiti kugira ngo bavurwe.

Icyumba cyo kwa muganga aho hakirirwa abarwayi batandukanye harimo abarwaye indwara z'umutima, indwara zo mu mutwe n'izindi ndwara, aho basuzumwa ubona ko ari icyumba gikoranye ikoranabuhanga kirimo n'ibikoresho byifashishwa mu kuvura abo bantu.

Ikigo gishinzwe ubushakashatsi ku bigendanye n'indwara zitandukanye, aho hasuzumirwa indwara hifashishijwe inyamaswa cyangwa n'ibindi bikoresho byifashishwa kugira ngo hasuzumwe indwara runaka, haba ari iyadutse ndetse n'izindi ndwara kugira ngo hashakirwe umuti.

Icyumba cy'ababyeyi, aho ababyeyi haba batwite ndetse n'abafite abana bakiri bato b'impinja bitabwaho bahabwa ubufasha bw'ibanze, ari ho umubyeyi ugeze igihe cyo kubyara bamufasha kugira ngo abyare neza ndetse n'abandi bana ari ho bahererwa inkingo.

Icyumba cyiza cyane cyubatse neza kirimo ibikoresho bitandukanye ndetse n'intebe, cyakira abarwayi ari ho babanza kwicara mu gihe bategereje abaganga babitaho kugira ngo babasuzume maze bahabwe imiti.

Foromasi yakira abarwayi batandukanye, aho ibaha imiti bitewe n'indwara barwaye, ikabaha imiti yujuje ubuziranenge kugira ngo abantu babashe kugira ubuzima bwiza, babeho neza, ni ngombwa ko bagana amaforomasi maze n'amaforomasi akabaha imiti yizewe kandi ivura.

Inyubako nziza cyane aho yakira abarwayi batandukanye maze ikabafasha kubavura indwara zitandukanye harimo indwara zo mu mutwe indwara z'umutima kubagwa ndetse n'ubundi burwayi butandukanye kugira ngo bahabwe ubuvuzi maze bakire.

Ahantu ubona ko havurirwa abantu bagize uburwayi, cyane cyane abakomeretse kuko babagwa bakabasha kwitabwaho neza kugira ngo bakire.

Abaforomokazi ubona ko bari guhugurwa ku bijyanye n'uburyo bwo kubyaza ababyeyi batwite, ni ngombwa ko aba baforomokazi bitabwaho bagahabwa ubumenyi buhagije, kugira ngo bajye babikorana ubushishozi.

Icyumba cyo mu bitaro ubona ko cyifashishwa mu kwakira abarwayi ndetse n'abandi bantu bafite ibibazo bitandukanye. kwivuza ni byiza kuko haba hari ahantu habugenewe ho kuvurirwa.

Ibyumba byo kwa muganga bine bikorerwamo imirimo itandukanye harimo aho babagira, aho basuzumira abantu, aho bapimira indwara z'amaso, aho ubona rwose ko ari ahantu hafite ituze kandi hubatse neza hashobora gukorerwa ibikorwa nk'ibyo bikagenda neza maze abantu bakavurwa bagakira.

Muganga ari mu cyumba cya wenyine , ari gukora ubushakashatsi ku miti itandukanye ivura indwara, harimo indwara zo mu mutwe indwara z'umutima kugira ngo abashe kuyiha abarwayi ifite ubuziranenge.

Icyumba aho hakirirwa abarwayi kugira ngo basuzumwe indwara zitandukanye baba barwaye aho bapimwa amaraso, bagaterwa ishinge kugira ngo hafatwe ibipimo byabo maze babashe guhabwa imiti ikwiye bitewe n'indwara babonye.

Icyumba ubona ko cyakirirwamo abarwayi barembye cyane ndetse n'abandi barwayi bafite ibibazo bitandukanye, haba abagiye kubagwa, abafite ikibazo cy'umuvuduko ukabije, indwara z'umutima kugira ngo babashe kwitabwaho.

Icyumba ubona ko giteye neza kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kubaga abantu, aho harimo n'ibikoresho bitanga akayaga kugira ngo umurwayi abashe guhumeka neza ndetse n'ibindi bikoresho byo kwifashisha.

Ibitaro ubona ko byifashishwa mu kwakira abarwayi bafite uburwayi butandukanye, bityo bakabafasha mu kubavura ndetse n'ubundi bufasha butandukanye kugira ngo abarwayi babashe gukira.

Ibitaro biri ahantu heza kandi byubatse neza, byakira abarwayi bo mu buce butandukanye, bikabafasha mu kubaha imiti, ndetse no kubavura indwara zitandukanye yaba iya Malariya, indwara z'ubwonko, indwara z'umutima, ndetse n'umuvuduko w'amaraso.

Icyumba cyo kwa muganga, aho hakirirwa abarwayi ndetse n'aho abarwayi banyura ndetse n'abaganga mu gihe bari kujya mu byumba bitandukanye, aho baba bagiye gutora imiti, cyangwa ibindi bikoresho bifashisha, bavura.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa kwa muganga bapima abarwaye indwara, kugira ngo babashe gusuzumwa, maze nihagaragara indwara barwaye bahabwe imiti maze bavurwe bakire.

Inyubako nziza cyane yakira abarwayi batandukanye cyane cyane abarwaye indwara zo mu mutwe indwara zisaba ko babagwa aribwo bagana iki kigo kugira ngo bitabweho bahabwe ubuvuzi kugira ngo bakire, ni byiza ko twegereza abantu ibitaro kugira ngo bahabwe ubuvuzi bw'indwara zigiye zitandukanye maze abantu bagire ubuzima bwiza.

Icyumba cyo kwa muganga cyifashishwa mu kwakira abarwayi, aho haza abarwayi batandukanye bagasuzumwa kugira ngo bahabwe imiti yizewe kandi ifite ubuziranenge, maze bavurwe bakire, ni byiza ko twita ku barwayi, maze bagira ubuzima bwiza.

Urujya n'uruza rw'abantu baje kwa muganga bafite indwara zitandukanye, bategereje ko bakirwa kugira ngo basuzumwe maze bahabwe ibisubizo n'imiti kugira ngo babashe gukira indwara barwaye.

Ahantu ubona ko ari ku ishuri, hari abantu bari gufasha abana babaha ibikoresho bitandukanye, harimo inkweto bityo bizafasha abana mu myigire yabo.

Ikigo ubona ko cyakira abantu barwaye amaso kugira ngo babashe kuvurwa, ni byiza ko mu gihe turwaye amaso tugana amavuriro yabugenewe kugira ngo tubashe kuvurwa.

Icyumba cyo kwa muganga kandi cyubatse neza, kirimo ibikoresho bihagije ndetse n'urumuri rushobora kubonesha hose, aho kifashishwa mu kwakira abarwayi naho abaganga bakorera isuzuma ndetse n'ubundi bushakashatsi bwose ku ndwara y'abarwayi kugira ngo babashe kubonerwa imiti ibakwiriye kandi yujuje ubuziranenge.

Ahantu hakirirwa ababyeyi batwite, ndetse n'abagiye kubyara kugira ngo bitabweho, ndetse n'impinja zabo aho abasuzuma abana...

Umubyeyi yajyanye umwana ku mujyanama kugira ngo amusuzumishe ibiro, kugira ngo arebe umwana niba afite imikurire myiza, ko ibiro bye biri kwiyongera. Ni byiza ko dusuzumisha abana bacu, kugira ngo turebe imikurire yabo.

Ibitaro byakira abarwayi bafite indwara zikomeye cyane, aho bavurwa harimo ababagwa ndetse n'abahabwa ubundi buvuzi budasanzwe, aho baba boherejwe baturutse ku bigo nderabuzima kugira ngo bahabwe ubuvuzi maze bavurwe bakire.

Icyumba cyifashishwa mu kwakira abantu bageze mu za bukuru aho hakoreshwa imyitozo ngororamubiri kugira ngo babashe kunanura ingingo zabo ziba zarahinamiranye ndetse n'imitsi ku kugiraga amaraso abashe gutembera neza bityo bibarinde indwara harimo nk'umuvuduko w'amaraso indwara z'umutima ndetse n'umubyibuho ukabije.

Ikigo cyubatse neza kandi cyegereye abaturage, aho cyakira abarwayi barembye ndetse n'abandi barwayi bafite indwara zitandukanye kugira ngo babashe kwitabwaho bahabwa imiti, bityo bagire ubuzima bwiza, birinda indwara zitandukanye aho bakangurirwa kwirinda indwara binyuze gufata ingamba zo kuzirwanya.

Ibitaro byubatse neza cyane byakira abarwayi b'ingeri zitandukanye ndetse baturutse no mu bipuce butandukanye bababoherejwe n'ibigo nderabuzima kugira ngo babashe gusuzumwa indwara zikaze maze bahabwe imiti yizewe kandi ifite ubushobozi bwo kuvura izo ndwara.

Ikigo nderabuzima cya Rwerere, cyakira abarwayi barembye ndetse n'abandi barwayi kugira ngo bavurwe, maze banasuzumwe indwara bafite maze bahabwe imiti.

Ibyumba byo kwa muganga ubona ko byubatswe neza aho abarwayi babagirwa igihe bahuye n'imvune cyangwa ubundi burwayi butandukanye, babona ko ari icyumba gikoranye ikoranabuhanga kirimo ibikoresho bihagije byifashishwa igihe bari kuvura abarwayi.

Icyumba cyifashishwa mu kuvura indwara harimo indwara z'umutima, indwara z'impyiko aho harimo ibikoresho bihagije byifashishwa mu kuvura indwara izo zose ku buryo ubuvuzi buba bwizewe neza.

Inyubako irimo farumasi, farumasi yifashishwa mu gutanga imiti, aho igezaho abantu imiti bakeneye bitewe n'uburwayi bafite, kandi ikaba yaregerejwe abaturage kugira ngo babashe kwivuza, ndetse bagire ubuzima bwiza.

Urusobe rw'imiti itandukanye icuruzwa kugira ngo abarwayi babashe kuza bayigure, maze babashe kuvurwa bakire. Ni byiza ko twegereza imiti abarwayi kugira ngo tubungabunge ubuzima bwabo.

Ibitaro bya Rwamagana, aho hari abaganga bifashishwa bavura abarwayi batandukanye, aho harimo n'abaganga batari Abanyarwanda, bakomoka hanze, baba baje kugira ngo bafashe abarwayi, babavura indwara zitandukanye, harimo kubagwa ndetse n'izindi ndwara.

Icyumba cyifashishwa mu kubaga abarwayi igihe bahuye n'ibibazo bitandukanye, harimo nko kuvunika, kuba hari ikibazo yagize mu mutwe ndetse no mu zindi ngingo zose z'umubiri kugira ngo abashe kuvurwa.

Umwana ubona ko yajyanywe kwa muganga kugira ngo abashe kwitabwaho ubona ko arwaye, ari gusuzumwa na muganga ariko agerageza kumubwira utuntu tumushimisha kugira ngo umwana atagira ubwoba.

Ibitaro byubatse neza ubona ko biri ahantu heza hegereye abaturage, byifashishwa mu kwakira abarwayi batandukanye kugira ngo bahabwe ubuvuzi bw'ibanze maze babashe kugira ubuzima bwiza. Aho hari abantu ubona ko hari umubyeyi uvanye umwana kwa muganga ndetse ari kumwe n'akandi kana gakuru.

Icyumba ubona ko cyakirirwamo abarwayi batandukanye kugira ngo bavurwe babashe gukira, bashyirwa mu bitaro igihe byabaye ngombwa ko baba barembye cyane kugira ngo babashe kwitabwaho bakire neza.

Ikigo gishinzwe kugenzura uburwayi bwa Malariya ndetse no gufata ingamba zo kwirinda Malaria, aho giha abantu ubufasha bwose haba gutanga inzitiramibu ndetse n'ubundi bufasha kugira ngo hirindwe ubwandu bwa Malariya.

Icyumba cyo kwa muganga cyifashishwa cyakira abarwayi batandukanye harimo aho basuzumira indwara zitandukanye n' indwara z'umutima diyabete kugira nibasanga barwaye izo ndwara bahabwa imiti maze bavurwe bakire.

Icyumba kirimo imiti itandukanye, ihabwa abarwayi. Iyi miti ni myiza kuko yifashishwa mu gutabara indembe ndetse n'abandi bantu bose bafite ibibazo by'uburwayi.

Ibitaro bya Kabgayi byakira abantu barembye cyane, mu gihe baba baturutse ku bigo nderabuzima kugira ngo babashe kwitabwaho. Cyane cyane aba barwayi, aho bagumizwa mu bitaro kugira ngo bitabweho, bahabwe ubuvuzi, maze bakire.

Abantu ubona bari mu cyumba cyo kwakiriramo abarwayi, aho basuzumwa indwara bafite kugira ngo babashe guhabwa imiti.

Icyumba cyifashishwa mu gusuzuma abantu barwaye indwara, aho hari n'umunzani upima abantu ibiro bafite, kugira ngo harebwe nimba ubuzima bw'umuntu bumeze neza, kugira ngo abashe kwitabwaho.

Kaminuza ya Butare aho yigisha abanyeshuri ku bijyanye n'indwara zitandukanye ndetse n'uburyo izo ndwara zavurwa, hagakorwa n'ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye kugira ngo habonerwe imiti cyangwa urukingo rw'izo ndwara, maze babashe kuvura abarwayi kandi babavure mu buryo bwujuje ubuziranenge.

Icyumba cyo kwa muganga cyakirirwamo abarwayi batandukanye, ubona ko cyubatse neza kandi kirimo ibikoresho bihagije, byifashishwa mu kuvura abarwayi kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ibikoresho byifashishwa kwa muganga, harimo ibyo bashyiraho abarwayi kugira ngo babashe kuvurwa, cyane cyane abarwayi bagize imvune kugira ngo babiteho, biboroheye kugira ngo bahabwe ubuvuzi bakire.

Ikigo gishinzwe kwakira abantu barwaye amaso kugira ngo basuzumwe uburwayi bwabo, maze bahabwe ubufasha bw'ibanze kugira ngo bajye babona uko babasha kureba ndetse no gusoma ibintu bitandukanye.

Abarwayi baje kwivuza kwa muganga, ubona ko batonze umurongo bategereje muganga kugira ngo abakire maze bahabwe ubuvuzi bitewe n'indwara bari bubasangemo.

Umuntu ubona ko ari mu cyumba cyakirirwamo abarwayi bakeneye kubagwa ndetse n'izindi ndwara zitandukanye, urabona ko uyu ari umuganga uba uvura abantu cyane cyane ubabaga igihe bagize ikibazo k'imvune cyangwa ubundi burwayi.

Ibikoresho byifashishwa mu kugorora imitsi aho umuntu akizengurutsaho akihambiraho akikomeza cyane, kugira ngo amaraso atembere neza mu gice kimwe kandi n'imitsi igororoke.

Mugabo bigaragara ko yari ari mu myitozo ngororamubiri, ahari kunywa amazi kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza, aho aba yakoresheje ibyuya byinshi ndetse n'isukari nyinshi mu mubiri, iba yasohotse mu mubiri akaba yayitakaje, ni ngombwa kunywa amazi igihe uvuye mu myitozo ngororamubiri.

Umuntu ubona ko ari kwa muganga yagize ikibazo cy'akaguru, bari kugerageza kukagorora kugira ngo kamere neza ajye abona uko abasha kugenda.

Umubyeyi ubona ko ari gufashwa na muganga, gukora imyitozo ngororamubiri, ubona ko hari akantu afashe mu kuboko, ari kugerageza kugaterura kugira ngo abe yarambura imitsi ye yo mu kaboko.

Umuganga ubona ko ari kwita ku murwayi, umurwayi ubona ko yagize ikibazo cy'ukuguru kubera siporo. Ni byiza ko twita ku bantu bagize ikibazo cyane cyane abaganga kugira ngo bitabweho neza bakire.

Urusobe rw'imbuto zitandukanye, zikungahaye kuri vitaminini, ishobora kurinda indwara zo mu mubiri. Nibyiza ko dufata ku mbuto zitandukanye kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Umuntu bigaragara ko avuye mu myitozo ngororamubiri, aho ari gufata amazi meza kandi asukuye. Kugira ngo agire ubuzima bwiza aho aba yatakaje isukari nyinshi mu mubiri, ni byiza ko igihe tuvuye mu myitozo ngororamubiri dufatate amazi ahagije.

Abantu bigaragara ko bari gukina umukino w'amaboko, witwa basiketi baro, ubona ko bari gukina batsindana kugira ngo babashe kunanura ingingo zabo.

Umuntu yahuye n'ikibazo cy'imvune mu kaguru, aho akaguru ke kahuye n'ikibazo. Biza ko abantu nk'aba igihe bari mu myitozo ngororamubiri bagahura n'ikibazo cy'imvune bahabwa ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo bitabweho maze ingingo zabo zongere gukora neza bagire ubuzima bwiza.

Ibiganza bibiri byambaye ga, ubona ko bazifashisha mu gihe cya siporo kugira ngo zibe zarinda umuntu gukomereka, mu gihe ari muri siporo. Ni ngombwa ko dukoresha ga, tuzambara mu kiganza mu gihe tugiye muri siporo.

Akagare kifashishwa mu gutwara abantu bafite ubumuga cyane cyane ubumuga bw'amaguru nko kuba adafite amaguru cyangwa ari ubundi burwayi bityo kakabafasha gukora ingendo za hato na hato.

Umuntu ubona ko ari gukora siporo, undi ari kumwerekera uburyo aterura utuntu tuba turemereye, kugira ngo abashe kubaka imitsi ye ikomere maze agire ubuzima bwiza, ariko biba byiza kubikora mu rugero.

Iyo umuntu yagize ikibazo ni ngombwa kwitabwaho kugira ngo abashe guhabwa ubufasha bw'ibanze harimo nko kunanura aho ingingo ziba zahinamiranye ndetse n'aho afite imvune kugira ngo ahabwe ubuvuzi maze akire.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza kuko irindaya indwara zitandukanye z'umubiri, harimo umubyibuho ukabije, indwara z'umutima, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi ndwara. Ni byiza ko dukora imyitozo ngororamubiri uko bikwiye kandi buri gihe kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

ibikoresho byifashishwa mu gihe cya siporo ndetse n'imbuto zishobora kwifashishwa mu kugabanya umubyibuho ukabije, n'izindi ndwara zose zishobora guterwa no kuba umuntu adakora siporo.

Kunywa amazi ni byiza cyanecyane igihe tuvuye muri siporo kuko tuba twakoresheje amazi menshi yo mu mubiri aho tuba twasohoye ibyuya ni ngombwa ko tunywa amazi kugira ngo habashe gusohoka imyanda ndetse tubashe no guhumeka neza.

Umwana yajyanywe kwa muganga, ari gusuzumwa mu kanwa kugira ngo barebe ikibazo yaba afite cyangwa uburwayi afite mu kanwa, maze abashe kuvurwa byujuje ubuziranenge ahabwe n'imiti yujuje ubuziranenge maze akire.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza kuko bifasha umubiri kugororoka, aho umugongo ugororoka ndetse n'izindi ngingo zikagororoka maze amaraso akabasha gutembera neza mu mubiri.

Inkoni ubona ko yifashishwa n'umuntu wamugaye, aho imufasha kugenda, kugira ngo abashe kugenda bimworoheye. Ni byiza ko dufasha abantu bose bafite ubumuga, bahabwa ibikoresho bishobora kwifashishwa mu kugenda kwabo.

Ibikoresho bikoreshwa kwa muganga kugira ngo bifashe umuntu yavunitse ukuguru, maze ajye abona uko atambuka, maze abashe no kugorora imitsi ndetse n'amagufa yo mu kuguru kugira ngo arambuke.

Abantu babiri bari muri myitozo ngororamubiri, bose bafite amazi, aho bari gukora imyitozo ngororamubiri biruka kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza, ni byiza ko tunywa n'amazi mu gihe turi mu myitozo ngororamubiri, kuko tuba twakoresheje isukari nyinshi isohoka mu mubiri, ni byiza ko dufata n'amazi bityo tugire ubuzima bwiza.

Umuntu ari gusuka amazi mu gikombe, ubona ko agiye kuyifashisha ayanywa, amazi ni meza mu buzima bwacu kuko adufasha mu kurinda indwara zitandukanye, harimo impyiko aho ayungurura ibintu bitandukanye mu mubiri bityo bikaturinda indwara za hato na hato, harimo nko kurwara impyiko ndetse n'izindi ndwara.

Urusobe rw'imbuto ndetse n'ibindi bintu bidufasha, kugabanya umubyibuho ukabije ndetse n'ibidufasha mu gukora siporo, siporo ni nziza ku buzima bwacu.

Amazi ni meza mu buzima bwacu bwa buri munsi, niyo mpamvu dukwiye kunywa amazi byibura gatatu ku munsi, kugira ngo uwo mubiri ubashe kuyungurura amaraso neza ndetse twirinde n'indwara zitandukanye, harimo kurwara impyiko ndetse n'izindi ndwara.

Umukobwa aho ari kugorora ingingo ze z'umubiri, aho ari kugorora amaboko ndetse n'amaguru, kugira ngo ingingo ze z'umubiri zibashe kurambuka, ndetse n'amaraso abashe gutembera neza mu mubiri, bityo bimurinde indwara zitandukanye harimo umubyibuho ukabije, umuvuduko w'amaraso, ni byiza ko dukora imyitozo ngororamubiri uko bikwiriye.

Igihe umuntu yavunitse, ni byiza kwikanda kugira ngo agorore imitsi ye cyangwa amaraso atembere neza mu mubiri, hari n'igihe amagufa aba yahatanye, ariko iyo ukoresheje amazi ashyushye bifasha cyane umubiri kongera kwisuganya, maze n'amaraso agakora neza.

Umuntu ubona ko avuye muri siporo ari kunywa amazi. Ni ibya gaciro kunywa amazi igihe tuvuye muri siporo kuko tuba twakoresheje imbaraga nyinshi, biba ari ibyi ngenzi kunywa amazi.

Icyumba cyo kwa muganga cyifashishwa mu kwakira abarwayi cyane cyane abarwayi bahuye n'ikibazo cy'imvune ndetse n'ubundi burwayi busaba ko babagwa kugira ngo babashe kuvurwa. Aho ari icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, bifasha mu gihe cyo kuvura umurwayi.

Umubyeyi yajyanye umwana kwa muganga aho muganga ari kumusuzuma indwara y'umutwe maze kugira ngo aze kumuha imiti maze umwana agire ubuzima bwiza.

Umuntu ubona ko ari muri siporo, arimo arakora imyitozo ngororamubiri. Natwe ni ngombwa ko dukora siporo kuko ari nziza mu buzima bwa buri munsi, idufasha kugorora imitsi ndetse n'ingingo zahinamiranye.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa na muganga igihe ari kuvura abarwayi. Ni byiza ko bibikwa ahantu habugenewe kandi hizewe, kugira ngo bibashe kugira ubuziranenge kandi ntibizateza ikibazo mu gihe cyo kuvura abarwayi.

Umuntu bigaragara ko yagize ikibazo cy'akaguru, aho ahafite igikomere, aho yapfutswe na muganga kugira ngo abashe gukira vuba, aho ashyirirwaho imiti na muganga uko bikwiye, kugira ngo abashe kuzagira ubuzima bwiza.

Umuntu ubona ko ari kunywa amazi, ubona ko bishoboka ko avuye muri siporo. Siporo ni nziza, cyane no kunywa amazi igihe cyose uvuye mu myitozo kugira ngo amasukari aba yavuye mu mubiri abashe gusubiramo, igihe unyweye amazi.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu kintu gishobora kuturinda indwara nyinshi cyane, iyo ukoze imyitozo mu ngororamubiri kenshi gashoboka uba wirinze iyi ndwara harimo indwara z'impyiko, umuvuduko w'amaraso, ndetse n'umubyibuho ukabije. Dukora imyitozo ngororamubiri uko bikwiriye kandi mu rugero.

Urusobe rw'ibintu bitandukanye, harimo indimu, amazi, igikoresho kifashishwa mu gihe umuntu ari mu myitozo ngororamubiri, ndetse n'ibindi byifashishwa mu kugabanya umubyibuho ukabije, aho ari byiza kunywa amazi ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa ari mu myitozo ngororamubiri, ari kunanura ingingo ze z'umubiri ndetse n'indi mitsi ye yahinamiranye, kugira ngo amaraso abashe gutembera neza mu mubiri, bityo bimurinde n'indwara zitandukanyemo umuvuduko w'amaraso, umubyibuho uka bije, ni ngombwa ko dukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo twirinde izo ndwara.

Imiti yifashishwa igihe umuntu yahuye n'ikibazo cy'imvune, cyane cyane igihe yari ari mu myitozo ngororamubiri, bityo akayikora birengeje urugero, nk'iyo arimo gukina nk'umupira ashobora kugira ikibazo cy'imvune, niho ashobora guhabwa inshinge cyangwa ubundi butabazi bw'ibanze kugira ngo akire.

Umuntu bigaragara ko avuye muri siporo ubona ko ari kwimenaho amazi, kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza, kuko iyo uvuye muri siporo ni ngombwa kwimenaho amazi kugira ngo ubashe guhumeka neza.

Imyitozo ngororamubiri itandukanye ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu, haba ari ugukina umupira, gukora n'indi myitozo ishobora kunanura ingingo z'umubiri, kuko birinda indwara zitandukanye, harimo indwara z'umutima, umuvuduko ukabije gutembera neza kw'amaraso bigatuma umubiri ukora neza.

Igikoresho cyifashishwa mu kuba cyafasha umuntu afite ikibazo cy'akaguru, kugira ngo abashe gutambuka neza.

Umuntu bigaragara ko ari muri siporo, ari kugorora amaboko ndetse n'ibitugu kugira ngo ingingo ze zigororoke, ni ibyiza ko dukora siporo kenshi gashoboka.

Ahantu ubona ko hakorerwa siporo. Siporo ni nziza mu buzima bwa buri munsi kuko ifasha mu kugabanya umubyibuho ukabije, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Umuntu ubona ko ari muri siporo yunamye agerageza guhinura umugongo we aho yafashe ku mavi kugira ngo ananure ingingo ze z'umubiri. Ni byiza ko dukora siporo buri gihe kuko zidufasha guhinura ingingo zahinamiranye.

Abantu bari mu myitozo ngororamubiri nako bari kugerageza kunanura imitsi yabo ndetse n'inkingo zabo, bazamura ukuguru kugira ngo amaraso yabo abashe gutembera neza mu mubiri ndetse biririnde n'indwara zirimo nk'umubyibuho ukabije, indwara z'umutima ndetse n'izindi ndwara.

Ibinini, inshinge zifashishwa mu kuvura abantu bafite uburwayi butandukanye ni byiza ko ibi binini biba bifite ubuziranenge ndetse n'izishinge kugira ngo bitagira ingaruka ku wo bihawe cyangwa ku wo urushinge rutewe.

Imiti yifashishwa igihe umuntu yagize ikibazo, haba nk'imvune aho ashobora guterwa ishinge ndetse higanjemo n'umuti w'amenyo ukoresha umuntu wasukura amenyo kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umudamu ubona ko ari mu myitozo ngororamubiri ari kunanura amaboko ye kugira ngo imitsi irambuke ndetse n'ingingo ze z'umubiri zirambuke maze amaraso atembere neza bimurinde indwara nk'umubyibuho ukabije ndetse n'indwara z'umutima umuvuduko w'amaraso n'ibindi.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza ku kiremwa muntu, aho imyitozo ngororamubiri ifasha umuntu kugorora imitsi yahinamiranye ndetse n'amaraso agatembera neza mu mubiri, bityo bigatuma umuntu agira ubuzima buzira umuze.

Umuntu ubona ko ari muri siporo, arimo arananura ingingo ze z'umubiri. Siporo ni nziza mu buzima bwa buri munsi kuko irinda umubyibuho ukabije, ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Gukora imyitozo ngororamubiri, ni kimwe mu kintu cy'ingenzi cyane ku buzima bwacu, kuko bifasha kugorora ingingo zimwe na zimwe z'umubiri, bityo amaraso agatembera neza, bikarinda indwara, zimwe na zimwe harimo nk'umuvuduko w'amaraso, ndetse no kugira ibinya mu bice bimwe na bimwe by'umubiri.

Igihe umuntu agize ikibazo cyane cyane igihe ari mu myitozo ngororamubiri cyane ko yitabwaho ahabwe ubufasha bw'ibanze nko kujyana kwa muganga ndetse n'ubundi bufasha kugira ngo babashe kurokora ubuzima bwe.

Urusobe rw'ibintu bitandukanye, ubona ko harimo imbuto ndetse n'ibindi bintu bishobora kugufasha kugabanya umubyibuho ukabije ndetse harimo n'igikoresho kifashishwa muri siporo, ugabanya umubyibuho ukabije.

Amahugurwa agendanye n'uburyo dukoramo siporo, aho ushobora gukora siporo uzamuye akaguru, ukarambuye ndetse n'ubundi buryo kugira ngo tunanure imitsi yacu y'amaguru, ni byiza ko dukora siporo kuko ari ingenzi.

Gufasha umuntu igihe yahuye n'ikibazo ari muri siporo ni ingenzi, kuko hari igihe imitsi igira ikibazo cyangwa amagufa akagira ikibazo, ni ngombwa ko ahabwa ubufasha bw'ibanze kugira ngo abashe kumererwa neza.

Igihe umuntu yahuye n'ikibazo cy'imvune, ni ibyiza ko ahita yigorora kugira ngo imitsi yongere igororoke ndetse n'amaraso kugira ngo ahabwe ubundi buvuzi.

Gukora imyitozo ngororamubiri, ni byiza kuko bifasha umubiri kuruhuka, ndetse n'amaraso agatembera neza bikarinda indwara zimwe na zimwe zitandukanye, harimo nk'umuvuduko w'amaraso, umubyibuho ukabije ,kurwara impyiko, ni ngombwa ko dukora imyitozo ngororamubiri igihe cyose bikwiriye.

Kugorora ingingo z'umubiri ni kimwe mu bintu bituma umuntu agira ubuzima bwiza, aho amaraso abasha gutembera mu mubiri, bityo bikarinda indwara zitandukanye harimo umuvuduko w'amaraso ndetse n'umubyibuho ukabije. Ni byiza ko dukora imyitozo ngororamubiri uko bikwiye.

Umuntu ari kugorora ingingo ze z'umubiri akora imyitozo ngororamubiri ari kunanura ukuguru ndetse n'amano ye n'ikirenge kugira ngo ingingo ze zirambuke amaraso abashe gutembera neza mu mubiri bityo bimurinde indwara nk'umuvuduko w'amaraso umutima ndetse n'umubyibuho ukabije bityo agire ubuzima buzira umuze.

Umuntu bigaragara ko yagize ikibazo cy'imvune, aho yari ari mu myitozo ngororamubiri, ari guhabwa ahabwa ubufasha bw'ibanze aho bari guhambira amaguru ye n'ibindi bice byose by'umubiri, mbere yuko ajyanwa kwa muganga kugira ngo ahabwe ubufasha bw'ibanze.

Abantu ubona ko bari muri siporo. Imyitozo ngororamubiri ni myiza kuko ifasha mu kugorora imibiri ndetse n'ingingo zahinamiranye, bityo tukagira ubuzima bwiza.

Umugabo yagize ikibazo cy'imvune ari kugeragezwa kugira ngo bamugorore ingingo ze kugira ngo abashe gutambuka neza hifashishijwe igikoresho cyabugenewe aho ari kumwe na muganga kugira ngo abashe kuba yavurwa amaguru ye yagize ikibazo.

Umuntu ubona ko ari muri siporo, arimo aragorora ukuguru kwe, ni byiza ko dukora siporo kuko zirinda indwara harimo umubyibuho ukabije ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Igikoresho kifashishwa umuntu ari mu myitozo ngororamubiri, aho gishobora kumufasha kumenya umuvuduko ari gukoreraho imyitozo ngororamubiri, maze akamenya ingano ashobora kuyikoreraho n'uburyo ashobora kwirinda kuyikora cyane, kuko bishobora kumuviramo ingaruka nk'iz'uburwayi.

Umuntu ubona ko ari muri siporo ni byiza ko dukora siporo igihe cyose dufite umubyibuho ukabije ndetse n'izindi ndwara zitandukanye, ariko si ngombwa ko tuba dufite n'ibyo ngibyo siporo ni nziza mubu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ubwoko bw'imiti iba yatunganyijwe harimo ivura mu nda ndetse n'uruhu kugira ngo ibashe kuvura umuntu maze agire ubuzima bwiza aho ikorwa mu gikakarubamba, ni byiza ko tubungabunga ibikakarubamba tubirinda kuba byakwangirika.

Umuti uvura mu mutwe wiganjemo ibintu bikomoka ku bimera aho wifashisha uhabwa abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe, ni byiza ko tubungabunga ibimera bitanga uyu muti kugira ngo hakomeze kuba haboneka umuti byoroshye.

Umuti ubona ko ukorwa mu buki, wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo nko koroshya uruhu ndetse n'izindi ndwara, bityo rero bigatuma tugomba kubungabunga ahantu hose haturuka ubuki.

Imiti iri mu ducupa ubona ko ikorwa mu bimera aho babifata bakabivuguta maze bagakoramo imiti ivura indwara nk'indwara zo mu nda ndetse n'izindi ndwara, ni byiza ko tubungabunga ibimera kuko bitanga imiti yifashishwa mu kuvura indwara.

Urusobe rw'imbuto zitanga imiti ivurwa, cyane cyane ivura indwara zo mu nda, ndetse n'izindi ndwara, aho bayifata bakayitunganya iba yagiye ikomoka ku bimera.

Imiti gakondo ubona ko yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo indwara zo mu nda. Iyi miti ituruka ku bimera. Ikifashishwa mu kuvura izo ndwara.

Imiti ikorwa mu bimera yifashishwa kuvura indwara z'umubiri, harimo n'izivura indwara z'amenyo ndetse n'indwara z'uruhu, ni byiza ko tubungabunga ibi bimera bitanga ino miti kuko yifashishwa cyane, mu kurengera ubuzima bwacu.

Ikimera gikorwamo imiti bikaba byiza iyo cyitaweho, kikavomererwa mu gihe cy'izuba, kugira ngo gikomeze gukura, maze abakuramo imiti babashe kubona ibimera bihagije, kugira ngo dukomeze kubona imiti idufasha kwivuza indwara zitandukanye.

Igiti ubona ko cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, aho bafataho amababi yacyo bakayasya maze akifashishwa mu gukoramo ibinini bivura abantu indwara zitandukanye.

Imiti itandukanye ubona ko iba yaturutse ku bimera, ariko hifashishijwe imashini kugira ngo hatunganywemo ibinini bivura abantu indwara.

Urusobe rw'imbuto higanjemo urutunguru, indimu ndetse n'undi muti ukomoka ku bimera, aho bifasha mu kurwanya indwara zo mu nda ndetse no kugabanya umuvuduko w'amaraso n'umubyibuho ukabije, ni byiza ko dufata kuri izi mbuto kandi tugakomeza kuzifata uko bikwiye.

Imiti ikomoka ku bimera, ibimera ni kimwe mu bintu bishobora gutanga imiti dukoresha twivuza, hamwe tuyikoresha kwa muganga aho iba yatunganyijwe cyangwa indi ugasanga ni imiti gakondo.

Ibiti ubona ko byifashishwa mu gukora imiti gakondo ndetse n'indi miti itandukanye, aho bakoresha ibibabi byayo mu gukora iyo miti.

Imiti gakondo ituruka ku bimera, ni byiza ko tubungabunga ibi bimera kuko bidufasha mu buvuzi bwa gakondo ndetse bikanadufasha mu kuvura izindi ndwara zitandukanye.

Shampo ni umuti uturuka mu bimera uba wakozwe kugirango ngo utunganye umusatsi aho wifashishwa mu koza umusatsi hakurwamo imyanda itandukanye, ni byiza kubungabunga ibimera biturukaho iyi shampo.

Umuravumba ni umuti ukunzwe gukoreshwa n'abantu benshi cyane, aho bawukoresha bivura indwara zitandukanye harimo indwara zo mu nda, hakabamo n'indwara nk'ibicurane ndetse n'inkorora, aho ari ingirakamaro ku buzima bw'abantu bwa buri munsi.

Urusobe rw'ibiribwa higanjemo imbuto, harimo inanasi, imineke, cyane cyane bifasha umubiri mu kuwuha vitamini irinda indwara.

Ibinini dukoresha tuvura indwara zitandukanye byose biba byatanzwe n'ibi bimera niyo mpamvu dukwiye kubibungabunga kugira ngo dukomeze kubona imiti ituvura indwara maze tugire ubuzima bwiza.

Urusobe rw'imiti itandukanye harimo n'ibiribwa harimo ibimera harimo ubunyobwa harimo imineke aho yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye hamwe harimo imvune ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Urubuto rwitwa indimu, ni urubuto rwifashishwa cyane mu gukoramo imiti itandukanye ivura indwara zo mu nda, aho narwo ari ingirakamaro ku buzima bw'umuntu, burinda bukanacagagura ibiryo umuntu aba yashyize mu nda, kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Urusobe rw'imbuto ndetse n'ibindi bimera byifashishwa hakorwamo imiti itandukanye ivura indwara, ni byiza ko tubungabunga izi mbuto n'ibi bimera kugira ngo turusheho kubona imiti ihagije.

Ubwoko bw'ibimera ubona ko bigiye gusuzumwa kugira ngo harebe ko hari imiti ishobora kuvamo yakwifashisha mu kuvura abantu kugira ngo ibyo bimera bibungabungwe kandi byitabweho kugira ngo bijye bitanga imiti.

Abantu bateraniye ahantu hamwe baje kureba ikimera cyitwa igikakarubamba aho kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo indwara zo mu nda ndetse n'izindi ndwara, ni byiza ko tubungabunga ibi bimera kugira ngo tujye tubona imiti ituvura maze tugire ubuzima bwiza.

Tubungabunge ibimera, kuko ni ingirakamaro ku buzima bwacu, kuko ibimera ni nibyo biturukaho imiti itandukanye, twifashisha mu gihe twivura indwara, harimo indwara zo munda, ndetse n'izindi ndwara, ni byiza ko tubibungabunga, hamwe na hamwe tukaba twanabivomerera kugira ngo bikure neza.

Umuntu ubona ko acuruje imiti gakondo ni byiza ko iyi miti gakondo ikoreshwa ivura abantu ariko hakarebwa ko ifite ubuziranenge.

Urusobe rw'imiti itandukanye ituruka ku bimera, yifashishwa mu kuvura indwara harimo indwara zo mu nda, indwara z'uruhu, ni ibyiza ko turinda iyi miti kugira ngo ikomeze kubaho maze natwe tugire ubuzima buzira umuze.

Imiti iba yakozwe mu bimera. Iyi miti ishobora kwifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ariko iyi miti ni imiti ya kizungu, iba yakozwe hifashishijwe imashini mu gukora iyi miti.

Umuti uba waturutse ku bimera aho wifashishwa, mu kuvura indwara zitandukanye harimo indwara z'umubiri, kubyimba k'uruhu, aho iyi miti iba yatunganyijwe hakoreshejwe amababi y'ibyo bimera kugira ngo haboneke umuti wujuje ubuziranenge.

Urusobe rw'imbuto harimo imineke ndetse n'inanasi n'ibindi bintu byose bikoreshwa mu ifunguro bidufasha kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Imiti myinshi dukoresha twivura ikomoka ku bimera, ni byiza ko tubungabunga ibimera kuko bitanga imiti yifashishwa kwa muganga ndetse n'indi miti gakondo twivurisha mu gihe turi mu rugo.

Imiti ubona ko ikorwa mu bimera, igihe haba hifashishijwe imashini kugira ngo iyo miti ikoreshwe ivura abantu indwara zitandukanye.

Ibimera gakondo byifashishwa mu kuvamo umuti uvura abantu, aho babifata bakabikoramo ifu cyangwa ibinini kugira ngo byifashishwe bivura abantu indwara.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ni byiza ko tubungabunga iyi miti kuko ni ingirakamaro ku buzima bw'abantu bwa buri munsi.

Umuti wifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu ukomoka ku bimera, aho uba watunganyijwe hakoreshejwe imashini z'ikoranabuhanga, kugira ngo havanwemo umuti uvura umubiri ndetse n'uruhu.

Ikimera ubona ko gifite indabyo ndetse n'ibindi bibabi, cyifashishwa mu kuvura indwara zo mu nda, aho gifatwa kigatunganywa, amababi yacyo ndetse n'uru rurabo kugira ngo hifashishwe hakorwamo imiti ivura abantu.

Urusobe rw'imiti ikorwa mu bimera, imiti yiganjemo ikomoka ku cyayi, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zo mu nda ndetse n'indwara z'uruhu, ni byiza ko tubungabunga ibimera bitanga ino miti kugira ngo ikomeze kuboneka, maze tugire ubuzima bwiza.

Umuti wifashishwa mu kuvura indwara zo mu nda harimo inzoka ndetse n'izindi ndwara zo munda, uyu muti ni umuti gakondo uturuka ku bimera ari byo harimo ibyitwa ibikakarubamba.

Imiti itandukanye ikorwa mu bimera, yifashishwa kuvura indwara zitandukanye harimo indwara z'uruhu ndetse n'izindi ndwara zo mu nda harimo nk'igifu, iyi imiti iba ikomoka ku bimera, ni byiza ko tubungabunga ibimera biduha imiti kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Urusobe rw'imiti gakondo ituruka ku bimera. Ubona ko hari umuntu ari gusekura ibimera, kugira ngo avanemo imiti yifashishwa mu kuvura abantu.

Umuti w'amenyo ukomoka ku bimera icyitwa igikakarubamba, ukoreshwa mu kuvura amenyo yanduye ndetse n'ibindi bibazo amenyo afite, cyane cyane mu gihe cyo kuyoza.

Umuti ukorwa mu bikakarubamba ndetse n'indi miti ikorwa mu bimera bitandukanye, yifashishwa imwe mu kuvura indwara zo mu nda, indi yifashishwa mu kuvura uruhu rwagize ikibazo kugira ngo rubashe kumera neza.

Imiti itandukanye ikorwa mu bimera yifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu, indwara z'amenyo ndetse n'indwara zo mu nda, aho iyi miti iba yakozwe mu bimera. Tubungabunge ibimera byacu kugira ngo turengere ubuzima bwacu.

Imiti itandukanye harimo imiti ivura indwara zo mu nda, indwara z'uruhu, indwara z'igifu kandi iyi miti iba yakomotse ku bimera. Ni byiza ko tubungabunga ibimera bitanga iyi miti, kugira ngo ikomeze kuba yakoreshwa.

Imiti ikorwa mu bimera, n'indi ikorwa mu bikakarubamba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo indwara zo mu nda ndetse n'indwara z'uruhu, iyi miti ikaba yifashishwa cyane, ariko biba byiza kuyikoresha mu rugero wubahiriza amabwiriza aba yashyizweho.

Urusobe rw'imiti ubona ko iba yakozwe mu bimera bitandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zo mu nda. Izo ndwara ubusanga zitabonerwa imiti ya kizungu, ni yo mpamvu yifashishwa ino miti gakondo yaturutse ku bimera.

Abantu bari mu mpanga y'umusozi bari gutembera, basa nkaho bari gusura ibyiza nyaburanga, aho hari amazi ari kumanuka hagati yimisozi ibiri, ubona ko bose bari gutembera bareba ibyiza bitatse Isi.

Urusobe rw'ubwoko bw'imiti yifashishwa ivura indwara zitandukanye haba izo mu nda, indwara zijyanye n'uruhu, aho iba yakomotse ku biti, aho itunganywa kugirango ifashe abantu kubavura.

Urusobe rw'ibimera bitandukanye byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye aho hari aho hafatwamo amababi yabyo maze agatunganywamo imiti dukoresha twivura indwara harimo indwara zo mu nda, indwara, igifu, ndetse n'izindi ndwara.

Umuti ukoreshwa mu koza amenyo aho wifashishwa mu koza amenyo maze ukavura amenyo indwara zitandukanye, ukanakuraho imyanda aho ukorwa mu bimera nk'bikakarubamba.

Urusobe rw'imiti myinshi iba yakozwe mu bimera, ikifashishwa ivura indwara zitandukanye, harimo izo mu nda, indwara z'igifu, kugira ngo iyi miti ibungabungwe, ni byiza ko tubungabunga ibimera iba yaturutseho, kugira ngo dukomeze kubona imiti ivura izo ndwara.

Umuti wifashishwa mu koza amenyo aho ukorwa mu bikakarubamba ndetse n'ibindi bimera bitandukanye, ukifashisha usukura amenyo maze amenyo yawe agaca ukubiri n'indwara zitandukanye harimo ifumbi y'amenyo, kuba ishinya yagira ikibazo cyangwa amenyo agakurwamo.

Ibimera byifashishwa mukoramo imiti gakondo ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo indwara zo mu nda, igifu. Aho iyi miti ifatwa igasekurwa maze igatunganywamo uwo muti wifashishwa mu kuvura izo ndwara.

Umuti ukomoka ku bimera wifashishwa mu kuvura indwara z'umubiri, cyanecyane indwara zo ku ruhu, aho wifashishwa umuntu awusiga ku ruhu, igihe uruhu rutameze neza rufite ibiheri.

Abantu ubona ko bacuruza imiti gakondo, iba yavuye mu bimera haba amababi, aho bayafata bakayasya maze bagakoramo imiti gakondo, iifashishwa mu kuvura indwara zo mu nda.

Uyu ni umuti ukorwa mu kimera cyitwa umuravumba, aho wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, hari indwara zo mu nda, ibicurane, ndetse n'inkorora, ni byiza ko tubungabunga aho uyu muti uturuka mu kimera cyitwa umuravumba, kugira ngo dukomeze kurengera ubuzima bwacu.

Urusobe rw'ibimera bitandukanye byifashishwa hakorwamo umuti gakondo uvura indwara zitandukanye, cyane cyane indwara zo mu nda ndetse n'izindi ndwara.

Ikimera kifashishwa mu gukoramo imiti gakondo ndetse n'indi miti dukoresha mu buzima bwa buri munsi aho ikoreshwa havura abarwayi, indwara zitandukanye harimo indwara zo mu nda ndetse n'izindi ndwara kugira ngo abantu barusheho gukomeza kugira ubuzima buzira umuze.

Umuti ubona ko basekuye mu bimera, wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, cyane cyane indwara zo mu nda. Uyu muti uboneka iyo basekuye ibimera kugira ngo havanywemo aka gafu kifashishwa mu kuvura abantu.

Imiti yiganjemo intungamubiri ihabwa abagore batwite, cyangwa abandi bantu bafite ikibazo cyimirire mibi cyangwa abana batoya, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza bakura neza.

Urusobe rw'imiti itandukanye ituruka ku bimera aho harimo n'isabune ikoreshwa umuntu koga yoza umubiri we, ni ngombwa ko tubungabunga iyi miti cyane cyane tubungabunga ibimera kuko ari byo biduha iyi miti dukoresha.

Imiti ubona ko yifashishwa mu kuvura abantu iba yakozwe mu ikahwa. Ni byiza ko tubungabunga ibimera cyane cyane ikahwa nk'igihingwa ngengabukungu kuko gikorwamo ibintu byinshi bitandukanye bifasha mu buzima bwa buri munsi.

Ikimera dukoresha mu buzima bwa buri munsi iyo umuntu arwaye kugira abashe kwivura, aho bafata amababi ya cyo agatunganywamo imiti ikoreshwa twivura. Ni byiza ko tubungabunga ibi bimera ahantu biri hose kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza tubusigasira.

Umuti ubona ko ukorwa mu kimera kitwa umuravumba, umuravumba wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zo mu nda ndetse n'izindi ndwara harimo ibicurane ndetse n'inkorora.

Umuti ubona ko ukomoka ku bimera wifashishwa ku bijyanye no gutera akabariro haba ikibazo cyo kurangiza vuba, gucika intege ndetse n'ingaruka zo kwikinisha.

Igikoresho kiriho amabwiriza agendanye n'uburyo wakwiyandikisha mu bijyanye n'imiti gakondo kugira ngo ijye ifasha abantu bafite ikibazo cy'uburwayi.

Ikimera cyiza cyane, kifashishwa mu gutanga imiti itandukanye ivura indwara, aho iki kimera biba byiza ko cyitabwaho kikavomererwa uko bikwiye, kikabungabungwa kugira ngo kibashe gukomeza kurengera ubuzima bw'abantu havamo imiti yifashishwa mu kuvura indwara, abantu baba bafite kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Urusobe rw'imiti itandukanye ituruka ku bimera harimo iyifashishwa mu kuvura uruhu ndetse n'indi ishobora kwifashishwa mu kuvura indwara zo mu nda. Iyi miti iba yakomotse ku bimera.

Urubuto rwifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, uru rubuto igipapayi, cyifashishwa mu kuribwa ndetse kikanarinda indwara, cyane cyane ku bana bato bakwiye kurya kuri uru rubuto.

Ubwoko bw'umuti ukomoka ku cyayi, wifashishwa mu kuvura indwara zo mu nda, indwara z'uruhu ndetse n'izindi ndwara, ukaba uturuka ku cyayi, aha ari byiza ko tubungabunga ahantu hose hari icyayi kuko biduha ibintu bitandukanye.

Ibimera ubona ko byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye aho babifata bakabikoramo imiti ivura mu nda ndetse n'indi ivura uruhu, ni byiza ko tubungabunga ibi bimera kuko ni ingirakamaro ku buzima bwa muntu.

Imiti myinshi dufite dukoresha mu buvuzi bwa buri munsi ikomoka ku bimera aho bikwiye kuba byiza ko tubungabunga ibimera tubivomerera aho bibaye ngombwa kandi tunabyitaho twirinda abantu babyonona kugira ngo dukomeze kubona imiti ihagije.